Amazi ni ubuzima kandi kuyabona bishobora kugorana ariko igihugu gishyiraho gahunda zitandukanye zifasha abaturage kubona amazi, ni yo mpamvu kigenda gishyirama imigezi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abaturage babashe kubona amazi ahagije.

Amavomero rusange yashyizwe ahantu hatandukanye mu Gihugu, afasha abaturage kuko atuma abaturage babona amazi ku gihe kandi bakabasha kugira isuku mu ngo zabo ndetse no ku mibiri yabo. Ubwo rero Igihugu kiba gikwiye gushimirwa ku bw'iyo mihati gishiraho yo gukwirakwiza amazi mu Gihugu.

Amazi aba akenewe cyane n'abantu benshi, niyo mpamvu imigezi ishyirwa ahantu hatandukanye kugira ngo abaturage babashe kubona amazi yo kwifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi, birimo guteka ndetse no kumesa.

Abantu iyo bashyize hamwe nta kintu gishobora kubananira, bashobora kugera ku bintu byinshi kandi bakishimira ubuzima, abantu iyo bashyize hamwe bashobora gukora igikorwa kinini cyane kandi bose bakishimira ko bakoze icyo gikorwa.

Ibihugu byinshi bishiraho imbaraga kugira ngo bitume abaturage bagubwa neza, gushyiraho imbaraga bituma abaturage bagubwa neza kandi uko kugubwa neza gutuma igihugu gitera imbere, ibihugu byo muri Afurika bizwiho kugira imico yo gufasha abaturage babyo kugira ubuzima bwiza.

Amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, yaba inyamaswa ndetse n'abantu byose bikenera amazi, ni yo mpamvu igihugu kigenda gishyira amavomero rusange ahantu hatandukanye mu gihugu.

Abana, abakuru ndetse n'abato, baba bagomba gukora uko bashoboye kose, bagaharanira kugira isuku. Ni yo mpamvu mu gihe umubyeyi abyaye umwana aba agomba kumujyana kwa muganga inshuro nyinshi akitabwaho. Kugira ngo adakomeza kurwaragurika wenda bitewe n'indwara zishobora guturuka ku mwanda.

Amazi atemba ashobora gukoreshwa, ariko kandi mu gihe umuntu ayanyweye ashobora kuba yakwanduye indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda. Ubwo rero mu gihe umuntu ashaka kuvoma amazi meza, agomba gukoresha amazi afite isuku aturuka ku migezi yabugenewe, aho gukoresha amazi atemba kuko yamwanduza

Inyubako ziri ahantu hatandukanye mu gihugu, ziba zishimishije mu gihe umuntu azireba. Izo nyubako zituma ubuzima bw'abantu bugenda neza, kuko zibarinda imvura ko yabanyagira ,kandi zikaba zishobora gucumbikira abantu n'amatungo.

Abantu bakwiriye gufashanya kubungabunga amazi kuko amazi ari ubuzima, bashobora kuyakoresha mu bintu bitandukanye, yaba umwana, umukuru bose bashobora kugenda bakavoma amazi ku ivomero rusange mu mavomero aba yarashyizwe ahantu hatandukanye mu gihugu.

Imigezi itandukanye iba yarashyizwe hirya no hino mu gihugu, ifasha abaturage kubona amazi bashobora kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo guteka, kumesa ndetse no gukora ibindi bintu by'agaciro, bisaba ko umuntu akoresha amazi.

Umuntu ugiye kwa muganga kugira ngo bamenye uburwayi afite, hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa. Bumwe muri bwo ni ukumupima bakoresheje urushinge. Gusa urushinge rushobora kurya umwana ku buryo yumva atinye kujya kwa muganga mu gihe arwaye.

Abantu iyo bagiye kwa muganga baharanira kuvayo bakize uburwayi bwabo. Mu gihe umuntu yagiye kwa muganga agomba kubwira muganga ibintu byose nta na kimwe amukinze kandi abajyanama b'ubuzima akenshi ni bo bafasha abantu mu kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima bwabo.

Hari uburyo bwinshi abantu bashobora gukoresha kugira ngo bagire isuku, haba ku mubiri wabo ndetse no mu ngo zabo. Ni yo mpamvu igihugu gishyiraho gahunda zo gushiraho amavomero rusange kugira ngo abantu bahahurire bavoma amazi ariko abana bashobora kuhakinira bikaba byatuma bangiriza ayo mazi.

Ku ivomero rusange uhasanga abantu benshi baje kuvoma ariko kandi ababyeyi na bo bakwiriye kuvoma amazi yo kwita ku bana babo kugira ngo bahorane isuku bityo uburwayi bwabo bugabanuke.

Amabara atandukanye kuyareba bishobora gutuma amaso arwara, ariko ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umuhondo, kubireba ntacyo bishobora gutwara amaso, kuko amaso asanzwe areba ibintu bimeze bityo ntagire ikintu aba.

Abasaza cyangwa se abandi bantu bageze mu zabukuru, kubavura bishobora kugorana kubera ko bashobora kurwara uburwayi bisaba ngombwa ko babatera amaraso. Abasaza baba bakwiye kwihutira kujya kwa muganga mu gihe bafite ikibazo cy'uburwayi.

Afurika na yo igira uruhare mu guteza imbere ubuzima. Hari gahunda nyinshi yagiye ishyiraho zo gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza. Ubwo rero kuzikurikiza, bishobora gufasha abaturage kumva bamerewe neza kandi bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Kugira ngo umuntu abeho neza abakeneye amazi meza afite isuku, niyo mpamvu igihugu gishyiraho gahunda zihariye zo gukwirakwiza amazi mu gihugu zikubaka imigezi ahantu hatandukanye kugira ngo abaturage bavoma amazi meza.

Abantu bafite imigezi baba bagomba kuyitaho kuko amazi akoreshwa neza kandi mu bintu byinshi bitandukanye bifite akamaro mu buzima bwa buri munsi, hatari amazi abantu ntibashobora kubaho.

Amazi atuma abantu benshi bagira uburyo bwo kwikorera isuku, ubwo rero mu gihe umuntu afite imyanda aba agomba gukaraba kandi mu gihe umuntu avuye ku bwiherero nabwo aba agomba gukaraba kugira ngo udukoko twanduza tumuveho.

Hari gahunda zashyizweho n'abaganga zifasha abaturage kumenya uko bahagaze, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza, mu gihe umuntu wese arwaye akajya kwa muganga, ashobora gukira uburwayi bwamubabazaga kandi ntiyongere kuribwa nk'uko byari bisanzwe.

Buri muganga aba afite icyo yihariyeho. Ariko kandi hari abaganga bashinzwe kubaga abantu bitewe n'uburwayi bafite. Abaganga babaga abantu, bagomba kuba bafite ubumenyi buhagije, kuko kubaga umuntu bisaba kuba umuntu akora ibintu azi neza.

Amahugurwa aba akenewe cyane mu buzima bw'umuntu ariko kandi mu gihe umuntu yagiye mu mahugurwa, aba agomba kwirinda kurangara agakurikirana neza kugira ngo agire ikintu atahana, azifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Ibibazo bijyanye n'amafaranga biba mu bintu cyangwa se mu bice ibyo ari byo byose, no mu bice bijyanye no kwa muganga na ho habamo ibibazo bijyanye n'amafaranga kandi biba bikunze gukoresha abantu ibyaha bitandukanye.

Ku ishuri abana nabo baba bagomba kwitabwaho, bagahabwa amafunguro, mu gihe cya saa sita. abanyeshuri bari ku ishuri nabo, baba bakwiriye kurya ibiryo bifite intungamubiri, ndetse n'isuku, kugira ngo badafatwa n'indwara z'umwanda.

Abana ni umurage Imana yahaye ababyeyi baba bagomba gufata neza uwo murage kuko ari Imana iba yarawubahaye, baba bagomba kujyana uwo mwana kwa muganga mu gihe arwaye kugira ngo akomeze kubaho neza.

Amazi agira uruhare cyane mu gutuma ubuzima bw'umuntu bumera neza. Amazi ashobora gukoreshwa mu kumesa ndetse no kuyatekesha. Amavuriro yashyizwe hirya no hino mu gihugu afasha abantu kuvoma amazi mu buryo buboroheye.

Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Igihugu gifite urubyiruko rumeze neza mu mikurire yo mu bwonko ndetse n'umubiri, gitera imbere mu buryo bworoshye kandi iterambere ririgaragaza.

Abantu bahabwa amahugurwa y'ukuntu bakita ku buzima bwabo nabo bakagenda bakayaha abandi, abo bayahaye bayashyira mu bikorwa bakurikiza izo nyigisho baba bigishijwe bityo bakabaho neza mu bwisanzure.

Abana nabo uburenganzira bwabo bukwiye kubahirizwa, bityo ihohoterwa ribakorerwa rigahagarara. Hari uburyo butandukanye igihugu kiba cyarashizeho kugira ngo abana bakomeze kurindwa, cyane cyane abana bo mu cyaro.

Umubyeyi ashobora gukora ibintu bitandukanye kugira ngo abeho neza ariko kwifatanya n'abandi nibyo by'ingenzi kuko bituma bungurana ibitekerezo kandi bagasangira ubuzima bwabo buri wese akavuga icyagira inyungu kuri mugenzi we.

Abana batoya bakwiriye kujyanwa kwa muganga hanyuma bakitabwaho, bityo ubuzima bwabo bukamera neza, umwana wakuriye kwa muganga abasha kugira ubuzima bwiza kandi indwara zose iyo azifite arazivurwa mu buryo bworoshye.

Amazi afite agaciro cyane ku buryo amazi aramutse adahari, abantu bashobora kubura ubuzima, iyo hari amazi abantu bashobora kuyakoresha mu bintu bitandukanye, harimo kuyanywa cyangwa se kuyakaraba, ibyo birabafasha mu buzima bwabo.

Gukangurira abaturage gukora ibikorwa bibafasha mu buzima bwabo bikorwa habanjije amahugurwa, aho abayobozi basobanurirwa icyo bakora kugira ngo bafashe abaturage kugira ubuzima bwiza mu mibereho yabo.

Umuntu wese akwiriye gukora uko ashoboye akagirira isuku umubiri we n'ahantu atuye, niyo mpamvu hirya no hino mu gihugu, uhasanga imigezi itandukanye. Ubwo rero abaturage bakwiriye kujya bavoma amazi, bakayakoresha imirimo yabo ya buri munsi.

Imyitwarire y'abantu igomba kugaragaza ko ari bazima cyangwa se bafite ibibazo runaka ariko kandi kugira ngo umuntu agire imyitwarire myiza biterwa n'aho yakuriye, niyo mpamvu kugira isuku na byo biterwa n'umubyeyi, umubyeyi ufite isuku ayitoza umwana we.

Kwitangira ubuzima bw'undi bishobora kugorana, ariko nanone guha agaciro ubuzima bwawe, ni iby'ingenzi kugira ngo umuntu abashe kuba yaha agaciro ubuzima bwa mugenzi we. Ubwo rero, buri wese agomba kwiyitaho.

Abantu bakunda kuganira cyane ndetse no kwifotoza, ariko kandi baba bagomba gushyira hamwe mu kwita ku buzima bwabo, niyo mpamvu hari ibikorwa bitandukanye bahuriramo bagahabwa amahugurwa y'uburyo bakita ku buzima bwabo.

Igihugu gishyiraho uburyo butandukanye mu kurengera umwana, hari uburyo bugenda bushyirwaho n'imiryango igiye itandukanye, kugira ngo abana bagubwe neza ndetse bigishwe, ibijyanye n'ubuzima, hanyuma ubuzima bwabo, bukomeze kumera neza.

Abantu iyo bahuriye ahantu hamwe ari benshi, baba bafite ibyago byo kwandura indwara zitandukanye, niyo mpamvu baba bakwiye gukora uko bashoboye kose, bakirinda izo ndwara ndetse n'uburyo bazanduzanya, ubwo rero baba bakwiriye kwitanaho buri wese akita ku nyungu za mugenzi we.

Abantu bakwiriye kwita ku buzima bwabo, bigishwa ibijyanye n'ubuzima. Ariko kandi bashobora no guhurira hamwe bitewe n'igikorwa runaka bahurijwemo nacyo, kugira ngo bige ibintu bitandukanye kandi bakaganira buri wese agira inama mugenzi we.

Umwana muto akwiriye kugaragarizwa urukundo, kugira ngo no mu gihe akuze akomeze gutekereza neza kandi yumve akunzwe, bityo isi ikomeze kumubera nziza. Umwana akwiriye kugaragarizwa urukundo mu gihe ababyeyi be bamuteruye.

Abantu iyo bari hamwe hari ibintu baganira bikabungura ibitekerezo, ku buryo umuntu ashobora kubikoresha mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi bigatuma atera imbere, bigatuma afata neza ubuzima bwe ndetse n'ubwa bagenzi be.

Kugira isuku bifasha abantu batandukanye kandi bose bishimira kuba bafite isuku. Yaba umwana, umuntu ukuze ndetse n'abandi bose, muri rusange nta muntu wishimira umwanda. Ubwo rero abantu bose bagomba guharanira uburyo bwo kugira isuku.

Amazi mabi yangiza ubuzima bw'umuturage kandi kuyakoresha bishobora kumutera indwara, umwana unywa amazi mabi ashobora kugira ubuzima bubi mu mikurire ye, niyo mpamvu kuvoma amazi atemba ukayanywa ari bibi.

Amazi agomba kwitabwabwaho akagirirwa isuku cyane cyane ku mavomo rusange. Mu gihe umuntu agiye ku ivomo rusange, agomba kwirinda gusiga ahamennye imyanda, kuko bishobora gutuma abandi bafatwa n'indwara ziterwa n'umwanda.

Isuku igomba kugirwa n'abantu bose hatitawe ku myaka yabo cyangwa se aho baturuka, yaba abana batoya ndetse n'abakuze bagomba gukaraba intoki mu gihe bavuye mu bwiherero ndetse no mu gihe bakoze ku bintu bishobora kuba byabanduriza intoki.

Kwita ku buzima bw'umuntu birahenda ariko biba bisaba ubukangurambaga cyane, abantu bahurira hamwe bakiga uburyo bashobora kwita ku buzima bwabo hanyuma nabo bakagenda bakabisobanurira abandi bityo inama bagize zikabagirira akamaro ari uko abaturage babishyize mu bikorwa.

Ubuzima bw'umuntu bukwiriye guhabwa agaciro cyane, niyo mpamvu kwa muganga bakora uko bashoboye kose kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ndetse no mu gihe arwaye bakamuha ubuvuzi, abaganga biba bibasaba gukora ubushakashatsi kugira ngo bavure uwo muntu.

Abajyanama b'ubuzima bagira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza, babasobanurira ibyo bakora kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, bashobora no kubapima indwara zitandukanye kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Abaturage bakora ibintu byose kugira ngo bagire ubuzima bwiza, abajyanama b'ubuzima bajya mu mahugurwa atandukanye, abafasha gusobanukirwa ibyo bakora, kugira ngo ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abaturage burusheho kugenda neza.

Abana bakiri bato na bo bashobora kugira uruhare mu bibakorerwa. Ababyeyi baba bagomba kumenyera abana babo ibyo bakeneye. Bashobora kubajyana mu mirima kugira ngo bamenye ubushobozi bwabo bwo kwiyumvisha ibintu, bityo bakabafasha gutandukanya ibyatsi bakurikije amoko yabyo.

Abaturage iyo bahuriye ku ivomo rusange, baba bakwiriye guhana umwanya wo kuvoma kugira ngo buri muturage acyure amazi. Amazi bavoma bayakoresha mu bikorwa bitandukanye, harimo nko guteka ndetse no kumesa imyenda.

Mu gihe hari icyorezo cy'indwara ishobora kwandura, abaganga bakwiriye gukora uko bashoboye kose, kugira ngo nabo batandura izo ndwara, bashobora kwifubika mu mutwe ndetse no ku munwa kugira ngo izo ndwara batazandura mu gihe bakoze ku barwayi bazirwaye.

Abana bato barakundwa cyane muri sosiyete. Abana bakunda umuntu ubitaho akabazanira icyo kurya kandi abana bishimira kumva umuntu ubabwira neza bityo bakishimira gusangira ndetse no gusabana n'abandi.

Abantu bagomba gukora ibintu bitandukanye kugira ngo ubuzima bwabo ndetse n'ubw'Igihugu muri rusange bukomeze kurushaho kugenda neza. Ni yo mpamvu abantu bajya mu mahugurwa bagahabwa inyigisho z'ukuntu bakwita ku buzima bw'abaturage.

Abantu iyo bahuriye hamwe baraganira, bakungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, zirimo n'ingingo zijyanye n'ubuzima. Abantu bakwiriye guhabwa imyitozo y'uburyo bakoresha ubuzima bwabo kuko gufata neza ubuzima bituma igihugu gitera imbere.

Abantu bahabwa amahugurwa mu buryo butandukanye, ndetse no ku ngingo zitandukanye. Umuntu wifitiye icyizere niwe uhagarara imbere y'abandi akayobora inama, bityo amahugurwa akayatanga ashingiye ku ngingo yateguye.

Abaturage baba bakwiriye kwegera abaganga, bakabafata ibizamini by'ubuzima bwabo kugira ngo babashe kubitaho mu gihe barwaye. Ibi bifasha umuturage gukura neza mu myumvire, bityo iterambere rikiyongera.

Umuturage iyo yegerejwe amazi, agomba kuyakoresha neza kandi agaharanira guhora afite isuku kugira ngo ayo mazi atayapfusha ubusa bityo ntakore icyo agakwiriye gukora. Agomba guharanira ko ibikorwa remezo yegerejwe, abikoresha neza.

Abantu bakeneye kubaho neza bagomba kugirira isuku imibiri yabo, ni ngombwa ko bakaraba intoki inshuro nyinshi kugira ngo batanduza abandi kandi isuku ibarange aho bari hose.

Abantu iyo bagiye ku mugezi ari benshi kubona amazi bishobora kubagora ariko kandi bagomba gutegereza kugeza bayabonye kuko iyo bayabonye bayatahana bakayakoresha mu bikorwa bitandukanye birimo ibibafasha mu kugira isuku.

Abaganga bagira uruhare mu mibereho myiza y'umuturage. Abaganga bashobora gutuma umuntu akomeza kugubwa neza, mu gihe yari afite uburwayi runaka bakamuha imiti kandi bakamwitaho mu buryo bwihariye.

Kunywa amazi bigira uruhare mu gutuma umubiri w'umuntu ukora neza, abakiri bato bakwiriye kunywa amazi inshuro nyinshi kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza kuko iyo batanyweye amazi bashobora gupfa imburagihe.

Abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye, ariko ababyeyi, bashimishwa no kubona abana babo, bafite ubuzima bwiza, bashobora gukora ibintu bibashimisha, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, byaba na ngombwa bagatembera.

Ubuzima bw'umuntu buba bukwiriye kubungwabungwa, bumwe mu buryo bushobora gukoreshwa kugira ngo ubuzima bw'umuntu bubungwabungwe, ni ukujya kwa muganga bakamusobanurira ikintu yakora kugira ngo akomeze kugubwa neza buri gihe.

Abantu benshi bagira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza ndetse icyizere cyo kubaho kikiyongera. Umuntu wese ukora uko ashoboye kose kugira ngo icyizere kibeho, aba agize uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuturage bugenda neza.

Umwana akwiriye gutozwa kugira isuku kuva akiri mutoya ndetse no kubaha ibikoresho biba byarashyizweho na leta ku mpande zitandukanye z'igihugu. Hari imigezi igenda ishyirwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ababyeyi baba bakwiriye gutoza abana babo kuyifata neza.

Abantu hari igihe kubona amazi bibagora bitewe n'aho batuye. Bashobora kuyashakira ahantu hatandukanye, ariko kandi kuvoma amazi atemba bishobora kubangiriza ubuzima, kuko bishobora gutuma bavoma amazi arimo imyanda, bityo bayanywa bakarwara indwara zandurira mu myanda.

Umuntu iyo agiye kwa muganga, cyangwa se ahandi ashobora guhurira n'abarwayi, agomba gukaza ubwirinzi kugira ngo batamwanduza. Ashobora kubikora yamba agapfukamunwa, mu mugihe agiye aho hantu.

Umwana ukiri muto ntakwiye guhabwa ibiryo ahubwo akwiriye guhabwa imfashabere kugira ngo akomeze gukura neza, ashobora guhabwa amata ndetse n'imbuto bitewe n'imyaka agezemo kugira mgo ubuzima bwe bugende neza.

Abantu bakwiriye kwita ku buzima bwabo, niyo mpamvu hari amahugurwa igihugu kiba cyarateguye gihamo abantu uburyo bashobora guhuguramo abandi, hanyuma bakita ku buzima bwabo, urugero nk'uburyo bashobora gusukura amazi yabo bakoresheje imiti yica udukoko tuba mu mazi.

Abantu iyo bari muri gahunda zitandukanye z'amahugurwa, agomba gukurikira umuyobozi ubagezaho gahunda z'umunsi. Gukurikira bituma bagira ikintu batahana kandi bakabyifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuturage iyo agiye kwa muganga bamusobanurira ibijyanye n'ubuzima bwe, ariko kandi kwa muganga haba abakozi batandukanye, harimo abakora amasuku ndetse n'abakozi bakira abandi barwayi, bakabasobanurira ibijyanye n'ibikorerwa kwa muganga.

Abantu bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ibi ni ingenzi kuko umuntu wese agomba guharanira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu mu Rwanda hari imishinga igenda itegurwa hirya no hino kugira ngo abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abana bakwiriye kwitabwaho cyane bakirinda kubabazwa. Umwana iyo ababajwe cyane bishobora kumugiraho ingaruka mu mikurire ye, agakura atekereza nabi kandi ubwonko bwe ntibutekereze neza kubera ko aba afite agahinda.

Ubwonko bukwiriye kwitabwaho cyane kugira ngo umuntu yite ku bwonko bwe, ntabwo bishingira kugabura ibyo kurya gusa ahubwo ashobora no kureba ibintu bishimishije kugira ngo abashe guha isura nziza ubwonko bwe.

Hari inzu zabugenewe abantu bajyamo bagahabwa inyigisho zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bashobora guhabwa ubundi buvuzi, kugira ubuzima bwabo bwongere kuba bwiza nk'ibisanzwe, ubwo rero ubuzima bwo mu mutwe bukwiriye kwitabwaho cyane.

Isi yose iharanira ko umuturage wese ubarizwa mu isi agira ubuzima bwiza. Hashyirwaho gahunda zitandukanye zo gufasha umuturage, haba mu bihugu bitandukanye ndetse no ku migabane kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu warakaye biba biturutse ku bwonko, ubwonko buvubura imisemburo ituma umuntu yumva atishimye bityo akaba yabigaragaza no mu isura ye, kurakara bishobora kugira ingaruka mbi kuko bishobora gutuma umuntu akora igikorwa kibi.

Bavuga ko gusaza ari ugusahurwa bishatse kuvuga ko umuntu ushaje ari ibintu badashobora gukora, bimwe muri byo harimo imirimo isaba imbaraga, ku buryo kuyikora ishobora kumugora ugereranyije n'umuntu ukiri muto.

Abantu bakwiriye kwigishwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo bamenye uko bakwitwara ku muntu bahuye nawe afite ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo badakomeza kumuharabika, bityo akaba yakumva atameze neza.

Abantu batitaye ku bwonko bwabo ngo bagaburire neza imibiri yabo, bituma bashobora kugira ibibazo byo mu mutwe. Izi ndwara iyo umuntu azirwaye, ashobora kugira imyitwarire itandukanye n'iy'abandi bantu bamubona.

Abanyeshuri bagiye ku ishuri, bagaragaza akanyamuneza, iyo havuzwe ikintu cyiza. Gusa hari abanyeshuri batagaragaza akanyamuneza, bishoboka ko bashobora kuba bafite ikibazo cyo mu bwonko, cyangwa se cy'imyumvire. Aba baba bakwiye kwitabwaho.

Abantu bavuga ko umuntu afite ubuzima bwiza iyo afite n'ubwonko bukora neza, umuntu wese ufite ubwonko budakora neza ashobora kwitwa umusazi, bitewe nuko akora ibikorwa bitajyanye nuko angana.

Ubuzima bwo mu mutwe buba bukwiye kwitabwaho cyane. Umuntu iyo atitaweho neza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ashobora gusara, hanyuma agakora ibikorwa bitandukanye bigaragaza yuko adafite ubwenge, kandi biterwa n'uko aba atitaweho mu mutwe we.

Abantu barwaye mu mutwe cyangwa se abarwayi bo mu mutwe, baba bakwiriye kwitabwaho mu buryo bwihariye. Umuntu wese ufite umurwayi ufite ibimenyetso bigaragaza ko arwaye mu mutwe, agomba kwihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo muganga amwiteho, na we abashe kumera neza.

Abana bakwiriye gufashwa kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, hakwiriye gushyirwaho ibintu bibashimisha bityo iyo umuntu yishimye ashobora gutekereza neza ubuzima bwe bwo mu mutwe bukarushaho kumera neza.

Abantu baba batandukanye bafite n'imico itandukanye ariko abantu bose bagomba gukora uko bashoboye kose bakumva bameze neza kandi bakunzwe, umuntu wishimye ufite akanyamuneza bigaragaza y'uko anatekereza neza.

Kugira ngo umuntu agaragare neza, agomba kuba afite mu mutwe hatekereza neza, umuntu ukora ibintu bidahuye n'uko angana bavuga ko afite ikibazo cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe kandi ibi bishobora guterwa n'uko imyitwarire ye idahuye n'imyaka ye.

Abantu bakwiye kugirwa inama ku bijyanye n'uko bafata imiti ijyanye n'ibibazo bahura nabyo. Ariko kandi mu gihe umuntu yagiye kwa muganga baba bakwiriye no kumugira inama y'ukuntu yakwita ku buzima bwe bwo mu mutwe.

Abantu bashaka kubaho neza bagomba kugira icyo bakora kugira ngo imibiri yabo igubwe neza, ariko kandi nyuma yo kwita ku mibiri baba bagomba no gusukura ubwonko bwabo bareba ibintu bibafitiye akamaro kugira ngo imibiri yabo n'ubwonko byose bikorere neza hamwe.

Kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza bwo mu mutwe, bagomba gusobanurirwa ibijyanye n'ukuntu bafata neza abandi mu gihe bafite ibibazo byo mu mutwe. Umuntu wese wagiye mu mahugurwa agasobanurirwa uburyo ubuzima bwo mu mutwe bukora, ntashobora kubangamira mugenzi we.

Mu gihe umuntu afite ikibazo ku bijyanye n'imyumvire, abajyanama b'ubuzima bashobora kumuganiriza bakamugira inama. Ariko kandi hari n'igihe biba ngombwa ko bamujyana kwa muganga, kugira ngo bamwiteho barebe ikibazo cye.

Abantu bashishikarizwa gukomeza kwita ku bwonko bwabo, kuko umuntu utekereza neza, ashobora gufata imyanzuro myiza. Niyo mpamvu bakwiriye gukora ibikorwa bituma ubwonko bwabo bukomeza kugira ubuzima bwiza kandi ni ingenzi cyane.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, imyitwarire ye irahinduka cyane, yambara nabi kandi bikagaragara ko adatekereza neza. Ni yo mpamvu umuntu wese agomba kwita ku bwonko bwe, mu gihe yumva afite ikibazo akagana abaganga.

Ababyeyi bakora ibishoboka byose kugira ngo babane neza n'abana babo kandi babiteho mu buryo bwihariye ariko baba bagomba kubategura bakabategurira ejo heza habo babafasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe aho hakubiyemo kubagaburira neza.

Ku isi hose hari umunsi wahariwe kwita ku buzima bw'abantu cyane cyane ubuzima burebana no mu mutwe, uwo munsi ufasha abantu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, kandi bakamenya uko bakwitwara ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Abantu bagomba kubana amahoro n'abandi kugira ngo bagire amahoro yo mu mutima, iyo umuntu abanye amahoro n'undi agira amahoro yo mu mutima kandi ubuzima bwe mu mutwe akumva bumeze neza, umuntu udakoze ibi ashobora kuba yakumva amerewe nabi mu buzima bwo mu mutwe.

Umuntu ufite ikibazo cy'imitekerereze cyangwa se umuntu urwaye indwara yo mu mutwe, ashobora kumara igihe kirekire adakaraba cyangwa se atiyogoshesha. Ibi yumva nta kintu bimutwaye kubera ko aba adatekereza neza.

Abantu bakwiriye gusobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwabo, cyane cyane hibandwa ku kuntu bafata neza ubuzima bwabo bwo mu mutwe, umuntu wese urya neza agafata indyo yuzuye kandi agasobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, biba bigoye ko yarwara izo ndwara zo mu mutwe.

Umuntu wese agomba gukora uko ashoboye kose agakomeza kumva ameze neza mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Umuntu utekereza neza yiyitaho mu buryo buhagije akirinda ibintu bishobora gutuma ahangayika kugira ngo akomeze kumva ameze neza mu mutwe we.

Guseka ni ibanga ryo kuramba, umuntu useka aba afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe kandi bigira akamaro cyane kuko bituma umuntu amara igihe kirekire kandi akumva yishimye ndetse anakunzwe n'abandi, mu rungano rwe.

Aba bantu bagiye mu gikorwa cyo kurwanya ihohoterwa, kandi natwe ni inshingano zacu mu kurwanya ihohoterwa, niyo mpamvu na polisi zabashyizemo imbaraga kandi izabihagurukiye, mu bya buri Munyarwanda wese. Iki gikorwa ni cyo bagiyemo.

Abantu bahuye n'ihungabana, baba bakwiye kwitabwaho kugira ngo na bo babashe kongera kugira ubuzima bwiza. Abantu bafite ibibazo by'uburwayi, bagomba kwitabwaho cyane, cyane cyane bakitabwaho n'abagize imiryango yabo.

Ubwonko burikwiye kwitabwaho. Niyo mpamvu igihugu gishyiraho gahunda z'ubuzima, zifasha abantu kugira imibereho myiza, ijyanye n'ubwonko bwabo. Abantu bitaweho neza mu bwonko bakora ibikorwa by'ingirakamaro kandi bushobora guteza imbere igihugu.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu bwonko cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe, ashobora kugira imyitwarire itandukanye n'iy'abantu bazima kubera ko kwicara hasi, kwambara nabi, kurya ibintu bidasobanutse we nta cyo biba bimutwaye.

Abantu iyo bari hamwe baraganira bakungurana ibitekerezo. Ariko kandi kugira ngo bagire ubuzima bwiza bwo mu mutwe, baba bakwiriye kwicara hamwe bagasangira ibitekerezo, kandi buri wese akumva akunze mugenzi we. Ni yo mpamvu abayobozi mu nzego z'umutekano, bahura n'abaturage bakifotozanya.

Abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye kandi kwishima bigira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bugenda neza. Abantu iyo bishimye bigira ingaruka ku bwonko kandi ubwonko buvubura imisemburo ituma baseka abandi bakabibona.

Abantu bashyiraho ingamba zihariye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, haba ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubuzima bugaragara inyuma, gusa baba bakwiriye kwita ku buzima bwo mo imbere mu muntu kuko iyo umuntu yumvise ameze nabi mo imbere bigira ingaruka n'inyuma.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bakora uko bashoboye kose bagaharanira ko abantu babo bagira ubuzima bwiza. Umuyobozi asobanurira abandi icyo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza mu bijyanye n'imibanire y'abandi ndetse n'ukuntu babaho neza mu mitwe yabo.

Abantu bishimira ubuzima bwabo. Iyo umuntu yireba akabona ameze neza, yumva bimuteye kugubwa neza ariko iyo umuntu yireba akabona ameze nabi, bishobora kumutera ibibazo by'ihungabana mu mutwe we.

Ku ishuri ni ahantu heza ho kumva umunyeshuri yishimiye. Ariko kandi mu gihe atishimye biba bigaragaza ko afite ikibazo. Umwarimu na we agomba gukora uko ashoboye kose abanyeshuri bakamwishimira, kuko bitabaye ibyo ubuzima bwaba bubi.

Kugira ubwoba bishobora gutuma umuntu atajya kwa muganga ariko iyo umuntu agiye kwa muganga akirinda kugira ubwoba akemera ko bamukorera ubuvuzi bw'ibanze ashobora gukira indwara yamubabazaga urugero bashobora kumukura amenyo bityo ububabare bukagabanuka.

Amenyo akwiriye kwitabwaho cyane, hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha yita ku menyo ye, aba ayakorera isuku mu buryo bwihariye, bumwe muri bwo ni ugukoresha akadodo, mu gihe umuntu yoza amenyo, ibi ni ingenzi cyane.

Kwishima ni igikorwa cy'ingenzi mu buzima. Abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye, ariko iyo umuntu yishimye ni ibintu bigaragarira amaso, kuko akanyamuneza kaba kagaragara kandi aseka.

Umwana mu gihe yagiye kwa muganga aba afite ubwoba bw'ibintu ari bukorerwe ariko iyo amaze kuvurwa ashobora kwishima mu gihe yari afite ikibazo cy'iryinyo barikuye ashimishwa no kuba atacyumva ububabare.

Amenyo y'umuntu iyo yitaweho neza, agaragara neza afite ibara ry'umweru. Amenyo ni ingenzi cyane ko yitabwaho kubera ko afasha umuntu kurya ibiryo by'ubwoko butandukanye.

Ku ishuri abana bigishwa ibintu bitandukanye. Bashobora kwigishwa ibice bigize amenyo, ubwoko bw'amenyo ndetse n'uko bayafasha gukura neza, mu gihe mwarimu asobanura iyo ngingo aba agomba kureka abanyeshuri bakavuga icyo batekereza ku bijyanye n'uburwayi bw'amenyo.

Ubuzima bw'umuntu buba bukwiye kwitabwaho cyane. Akajyanwa kwa muganga mu gihe arwaye. Umurwayi urwaye amenyo agomba kwitabwaho na muganga, akamukura ayo menyo mu buryo bwizewe.

Kugira ubuzima bwiza, abantu bose barabyifuza, umuntu ufite uruhu rwiza kandi useka, nta muntu utishimira kumubona, kandi abantu bose bakora uko bashoboye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, butarimo ibibazo n'uburwayi.

Isuku yo mu menyo igomba gukazwa cyane cyane ku bana bakiri batoya kuko iyo abana bakoresheje umuti woza amenyo bishobora gutuma batandura indwara zifata amenyo cyangwa ngo barware izo ndwara zibanegekaze.

Umuntu iyo yishimye araseka, gusa kugira ngo umuntu aseke neza agomba kuba afite amenyo mazima, ni yo mpamvu abantu bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe barwaye indwara runaka zishobora kuba zanabahitana.

Abantu bakwiriye guha agaciro ubuzima bwabo bagafata neza ibikoresho bitandukanye, umuntu witeguye gusobanura neza abandi ibyo, akora kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, aba akoreraye igihugu ndetse na we yifashije.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire isuku y'amenyo, gusa amenyo kuyitaho ntabwo bigoye kuko umuntu ashobora gukoresha uburyo butandukanye n'imiti itandukanye kugira ngo ayiteho. Ubwo rero abantu barakwiriye kwita ku menyo yabo.

Ibikoresho bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri bigira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bugenda neza, umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza akora imyitozo ngororamubiri akananura ingingo ze bityo akagira imbaraga.

Kwa muganga hagaragara ibikoresho bitandukanye kandi bifite isuku, ibikoresho byo kwa muganga by'ikoranabuhanga, biba bisa neza kubera ko bihorana isuku kandi abakozi bashinzwe kubyitaho, bahora babisukura buri gihe uko bwije n'uko bukeye.

Mu gihe umuntu yakutse amenyo, ashobora kuba yagura andi agashyiramo. Gusa gusimbuza amenyo y'amakorano amenyo ya karemano, bishobora guteza ingaruka zitandukanye. Ariko kandi mu gihe umuntu ayarwaye agomba kujya kwa muganga.

Gukorera isuku amenyo ni igikorwa cy'ingenzi gifasha abantu bakuze ndetse n'abakiri batoya guhorana amenyo asa neza, kandi bituma abo bantu baseka bakanishima hamwe n'inshuti zabo nta kugira ipfunwe.

Abaganga bakura amenyo bagomba kuba ari abantu batagira ubwoba kuko kuvura amenyo bisaba kuba umuntu yihangana kandi atagira ubwoba, umuntu ugira ubwoba ntashobora kuba umuganga.

Kwa muganga ibikoresho bihaba biba bifite isuku kandi abantu babimenyereye ni bo bonyine bashobora kubikoresha. Umwana ashobora kubona ibyo bikoresho akikanga cyangwa se akaba yabikinisha bikangirika, ubwo rero mu gihe umubyeyi yajyanye umwana kwa muganga agomba kumurinda gucokoza ibyo bi....

Abaganga aba ari abantu b'abahanga bazi gukoresha ibyo bize, kubera yuko bakoresha ibyo bize bashakisha uko bavura abarwayi, umuganga ashobora kureba mu bikoresho by'ikoranabuhanga, akamenya icyo umurwayi arwaye.

Mu gihe umuntu arwaye amenyo, aba akwiye kujya kwa muganga, muganga akamufasha gukira ubwo burwayi, amukura amenyo. Muganga niwe ufite ubushobozi bwo gukura umuntu amenyo, kuko aba yarabyize kandi afite ibikoresho byihariye, mu gukura amenyo.

Abantu bakuze nabo baba bagomba kwita ku buzima bwabo, bakirinda ikintu cyose gishobora kubwangiza. Mu gihe bumva bafite ikibazo, bashobora kujya kwa muganga kugira ngo umubiri wabo ukomeze ugubwe neza, bityo babashe kubaho neza.

Umuntu akwiriye gukorera isuku amenyo ye, akoresheje uburyo butandukanye nk'imiti yoza amenyo, ariko kandi kugira ngo yoze neza amenyo hagati, agomba gukoresha akadodo, kakamufasha koza mu menyo hagati, bityo imyanda ikavamo.

Abantu bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire isuku aho batuye, ariko isuku yo ku bitaro ndetse n'ahandi hantu hagerwa n'abantu benshi iba ikwiye kwitabwaho, kuko iyo yitaweho abantu bakira indwara zabo mu buryo bworoshye.

Intebe zo kwa muganga zituma abantu bicaraho hanyuma bagategereza mu gihe batarabonana na muganga, icyo gikorwa cyo gushyira intebe ahantu hatandukanye kwa muganga gituma abarwayi bumva bahawe ikaze mu gihe bagiye kwa muganga.

Abantu barwaye amenyo kujya kwa muganga bishobora kubafasha gukira ayo menyo, kuko muganga ashobora kubakura amenyo barwaye hanyuma bagasigara bumva bameze neza kandi uburibwe bari bafite bugashira neza ntibakomeze kuribwa.

Umuntu urwaye amaso akora uko ashoboye akajya kwivuza ariko kandi nanone umuntu urwaye amenyo na we akwiye kujya kwa muganga bakamufasha gukemura icyo kibazo cy'amenyo ye, bashobora kuyoza cyangwa se bakamukura iryinyo mu gihe rirwaye bikomeye.

Abantu bakuze bashobora kwitabwaho n'abakiri batoya kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, bibafasha kunanura imitsi kandi ibyo iyo babikoze bishobora gutuma iminsi yabo yo kubaho irushaho kwiyongera.

Kugira ngo umuntu abeho neza mu buzima bwe yaba akuze cyangwa se ari umwana, aba akeneye ikintu yashira mu nda cyangwa icyo kurya kugira ngo akomeze kubaho, mu gihe umuntu adashize icyo kurya munda, ahita apfa mu buryo bworoshye.

Abantu bageze mu za bukuru bagomba kwitabwaho n'abakiri batoya. Mu gihe umuntu ugeze mu za bubukuru yagiye kwa muganga agomba kujyana n'umuntu ukiri mutoya wo kumufasha mu bintu akeneye bya buri munsi, urugero nko kumufasha kubona amazi mu gihe ayakeneye.

Umukecuru n'umusaza bagomba gukundana urukundo rwimbitse kuko baba bamaranye igihe, urukundo rwabo rutuma bitanaho buri wese akabwira undi ko amukunda kandi iyo babwirana ayo magambo barushaho kugira urugo rwiza.

Abantu iyo bari ahantu hatandukanye bashobora kuganira ku ngingo zitandukanye ariko ibyiza ni uko bagomba kuganira banakora ibintu bishobora kubateza imbere, harimo nko kuboha ibyibo ndetse n'ibindi kandi bakaganira ku ngingo z'ubuzima zubaka.

Abantu bageze mu zabukuru, bashobora gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bishime. Kuba bonyine bishobora kubahangayikisha, ariko iyo bari kumwe n'abantu bakiri bato birabashimisha. Bashobora kwifotozanya kugira ngo ubuzima bwabo bumve bumeze neza.

Abakiri bato bakwiriye gutemberana n'abantu bakuze bagatuma nabo bamenya ahantu henshi . Umuntu ukuze iyo ari kumwe n'umuntu ukiri muto, aba yumva yitaweho kandi akunzwe bityo akagira akanyamuneza kamufasha kuramba.

Umuntu ugeze mu za bukuru ariko adafite umwitaho ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Ashobora kubura umuntu umuhereza amazi yo kunywa cyangwa se umuntu umwitaho amuganiriza, ariko kandi na we hari ibintu yakora kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, harimo gukora imyitozo ngororamubiri no gusoma ibitabo.

Abantu bageze mu zabukuru bakwiriye kwitabwaho cyane mu bijyanye n'uburwayi bwabo, bagahabwa imiti mu gihe bayikeneye nanone bagomba kudaheranwa n'agahinda ahubwo bagafashwa mu gihe hagize igikoresho k'ikoranabuhanga kiboneka nabo bakaba bashobora kugikoresha.

Abantu imyaka baba bafite yose bashobora gukora imyitozomumaro cyane, ababyeyi na bo bashobora gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bananure ingingo zabo bityo ubuzima bwabo burusheho kumera neza.

Abantu bakuze bishimira kuba bari hamwe n'abana babo. Umubyeyi wabyaye arishima cyane, iyo ari kumwe n'abuzukuru be baseka. Yishimira kubona abana be bishimye. Ubwo rero, bituma amara igihe kirekire.

Abantu bakuru bakwiriye gufashwa gutemberera ahantu hanyerera kugira ngo batitura hasi ubuzima bwabo bukajya mu kaga, gukora ibi bikorwa bibafasha kumva bameze neza kandi bakunzwe kuko baba bitaweho.

Abantu bakuze kugira ngo bishime bashobora gukina imikino itandukanye, iyo mikino ikabafasha kumva banyuzwe kandi bishimiye ubuzima, bityo ubuzima bwabo bugakomeza kugenda neza kandi bakishimana n'abakiri batoya.

Abana bato bagomba kubaha abantu bakuru kubera ko ari bo bababyara, ababyeyi baba ababyeyi b'abamama ndetse n'ababyeyi b'abagabo baba bagomba kwita ku bana babo bakabagira inama zo kwifashisha mu buzima bwabo.

Abantu bakuru baba bakwiriye kwitabwaho mu bijyanye n'ubuzima bwabo, niyo mpamvu mu gihe umuntu mukuru afite imiti, aba akeneye umuntu ukiri muto wo kumufasha kumenya iyo anywa n'iyo atanywa, igihe ayinywera kugira ngo bimufashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu bakuru na bo bagomba gusobanurirwa gahunda zijyanye n'ubuzima kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza. Mu gihe hari ingingo yasohotse, umwana agomba gusomera umubyeyi we ibijyanye n'iyo ngingo.

Umukecuru ndetse n'umusaza bageze mu zabukuru, nabo bakwiriye kwita ku buzima bwabo, bashobora kunywa amazi ahagije kugira ngo ubuzima bwabo bubashe gukomeza kumera neza, mu gihe batabikoze bishobora gutuma basaza nabi.

Abantu bakiri bato bashobora gufasha abantu bakuze, gukora imyitozo ngororamubiri bakananura ingingo zabo, hanyuma na bo bakumva baguwe neza. Abantu bakuze baba bakwiriye kwitabwaho by'umwihariko, kuko ubuzima bwabo buba buri mu marembera.

Yaba abakiri bato ndetse n'abakuze, bose ni abantu bakwiye kwita ku buzima bwabo, Abasaza baba bakwiriye kwita ku buzima bwabo kugira ngo iminsi yo kubaho yabo yiyongere. Ubwo rero ni ngombwa ko bakundana kugira ngo babashe kwitanaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuryango wishimira kuba ufite umwana ariko kandi umwana, umubyeyi barishima cyane iyo bose bunze ubumwe, gusa abakiri batoya baba bakwiriye kwita ku bageze mu zabukuru kugira ngo na bo bagire ubuzima bwiza.

Abakiri batoya bakwiriye kwita ku bantu bakuze kugira ngo nabo bungukirwe no kuba bari ku isi kandi barabyaye, umubyeyi iyo afite umwana akamwitaho birushaho kuba byiza kuko yumva amerewe neza cyane.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri usanga bafite imbaraga kandi bakeye mu maso, ubwo rero gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu wese kumva ameze neza kandi akumva yishimiye kuba ageze mu gihe ari kumwe n'abandi.

Abana bashimishwa no guterurwa n'abantu bakuru ariko kandi nabyo bigirira akamaro abantu bakuru kuko iyo umuntu mukuru ateruye umwana yumva yishimye. Umubyeyi uteruye umwuzukuru we ashimishwa n'uko afite abuzukuru.

Umuntu mukuru iyo gusomera hamwe n'umwana we biramushimisha cyane, ababyeyi bakuze bashimishwa no kuba bazi gusoma bityo abana babo bakwiriye kubashakira ingingo zitandukanye zo gusoma kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kubaryohera.

Abantu bakuze bakwiriye guhabwa ibikoresho by'ibanze bibafasha mu buzima bwabo, kuko iyo babihawe bumva bameze neza kandi bakunzwe, uru rukundo bagaragarizwa rutuma bakomeza kubaho igihe kirekire bishimye.

Abantu bakuze baba bagomba kwitabwaho mu bintu byose. Umuntu ukiri muto ashobora gufasha umuntu ukuze kumenya uko yakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, urugero nka telefoni, akamufasha kumenya ukuntu yakwita ku buzima bwe, wenda akoresheje ikoranabuhanga.

Abantu bakuru iyo bari hamwe n'abantu bato, barishima cyane kuko bumva bakunzwe. Bishimira kujyana na bo, bagaseka, bagakina kandi urukundo bagaragarizwa rutuma bumva baguwe neza cyane.

Abakiri batoya bakwiriye guherekeza abantu bakuze kujya ku isoko, bakabafasha kugura ibintu bakeneye ariko bifite intungamubiri bishobora kubafasha mu buzima bwabo, bashobora kubagurira ibintu birimo imbuto ndetse n'inyanya ku buryo bibafasha mu buzima bwabo bw'izabukuru.

Abantu bakuze bakwiriye kwitabwaho ndetse bagafashwa mu kubona ubuzima nk'uko abandi babubona, bakwiriye kugirirwa isuku kandi abana babo bashobora kubibafashamo bityo iterambere ryabo rikiyongera.

Abantu bakuru bakwiye kwitabwaho cyane cyane mu gihe bagiye kwa muganga, kubagaragariza ko ububashye birabashimisha kandi bituma bumva bitaweho ndetse bafite agaciro, ibyo bibongerera iminsi yabo yo kubaho.

Abantu bakuze nabo baba bagomba kwiyitaho banywa amazi ahagije kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, umuntu ukuze iyo yiyitayeho neza araramba kandi akabaho neza.

Abantu bakuze bakwiriye kwitabwaho n'abakiri batoya, bakabafasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo nabo babashe kunanuka mu bijyanye n'ingingo zabo kandi bagire ubuzima bwiza bityo iminsi yo kubaho yiyongere.

Gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ntabwo ari ibintu byoroshye biragoye, ariko kandi gufashanya gahoro gahoro bishobora gutuma umuntu agira ubuhanga mu gukoresha ibyo bikoresho, by'umwihariko abakiri bato bagomba gufasha abantu bakuze mu kwiga gukoresha ikoranabuhanga.

Abantu bakuze bagomba kwitabwaho cyane kuko ubuzima bwabo aba ari ubw'ingenzi kandi baba baranyuze mu bintu byinshi, bityo abantu bakiri bato bakwiye kubitaho kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza cyane nk'uko abandi babibona.

Umuntu ugeze mu zabukuru ashimishwa no kuba ari kumwe n'umwuzukuru we w'umukobwa amuganiriza, akamufasha kubona ko ubuzima ari bwiza. Umuntu igihe yagiye kwa muganga agahura n'umuvuzi ukiri mutoya, ashobora gushimishwa n'uko amufasha.

Abantu bakuru bakwiriye kwiyitaho bakora ibintu bibafasha kuruhuka. Bimwe muri ibyo bashobora gukora ni ugusoma ibitabo bakiyibutsa inkuru runaka bigeze gusoma ikabashimisha, bityo kwishima kwabo bigatuma ubuzima bukomeza kugenda neza.

Abageze mu zabukuru bakwiriye gushaka ukuntu basobanurirwa ibintu bijyanye n'ubuzima. Aha bashobora kwegera abaganga babihuguriwe, bakabafasha kubasobanurira izo serivisi zitangirwa kwa muganga, ku buryo nabo bagize ikibazo bagana abaganga.

Abakiri batoya bakwiriye kwirinda gusebya abantu bakuru, ahubwo bakabafasha kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza. Mu gihe umurwayi yagiye kwa muganga akuze bakamuha imiti, umuntu ukiri mutoya ashobora kumufasha kumenya igihe yayinywera.

Kugira ngo abantu bite ku buzima bwabo, baba bagomba guhorana isuku. Ariko kandi mu gihe bagize ikibazo cy'uburwayi, bagomba kujya kwa muganga, kandi bagomba gufata amabwiriza ajyanye n'uko bakwita ku buzima bwabo.

Kugira ngo umuganga amenye icyo umurwayi arwaye arabanza akamupima, akoresheje ibikoresho abaganga bifashisha mu gupima, bimwe muri byo harimo inshinge ndetse n'ibindi bifasha abaganga kumenya uko abarwayi bahagaze.

Abantu barishima cyane iyo bari kubona ukuntu banezerewe bari kumwe n'ababo, umuryango ushimishwa no kuba ufite ibikoresho bituma bagira ubuzima bwiza, abantu bose bakunda abantu babaganiriza.

Abantu baba bagomba kwita ku buzima bwabo kugira ngo bakomeze kugubwa neza. Abana baba bakwiye kugirwa inama z'uburyo bafata ubuzima bwabo neza kuko bituma bakomeza kubaho neza mu buzima bwabo.

Hari iminsi mikuru yizihizwa ku isi. Imwe muri iyo minsi harimo Umunsi Wahariwe Ubuzima ku Isi. Muri iyo minsi bafatira hamwe ingamba zishobora kubafasha kwirinda indwara z'ibyorezo. Zimwe muri izo ndwara bashobora kwirinda harimo n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda.

Ikigo gishinzwe ubuzima gishyiraho gahunda zitandukanye zisobanurira abaturage ibijyanye n'ubuzima kandi zikabafasha gusobanukirwa icyo bakora kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza, hari gahunda nyinshi Igihugu gishyiraho binyuze kuri iyo Minisiteri kugira ubuzima bw'umuturage bukomeze kugenda neza.

Abajyanama b'ubuzima bakoranira hamwe n'abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bashobora kubaha imiti cyangwa se bakabapima indwara zitandukanye kugira ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza bityo iterambere ryabo ryiyongere.

Hari inyandiko zitandukanya abantu bashobora gusoma bigatuma bagira ubuzima bwiza, zimwe muri izo nyandiko ziba zivuga nk'ibyo kurya umuntu yarya kugirango agire ubuzima bwiza cyangwa se icyo yakora kugirango agire ubuzima bwiza.

Hari ingamba zitandukanye Igihugu cy'u Rwanda gishyiraho kugira ngo kirinde abaturage bacyo guhura n'ibibazo, bimwe muri ibyo bibazo ni ibiterwa n'indwara ziterwa n'umwanda ariko kandi Igihugu gishyiraho gahunda zihariye kugira ngo barwanye umwanda.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, bashobora guhurira ahantu hatandukanye, bose bakishimira ubuzima, umuntu wishimye, ikintu kibigaragaza ko yishimye, ni uko aseka kandi guseka bituma umuntu aramba, akabaho igihe kirekire.

Abantu bakwiriye gusobanurirwa ibijyanye n'uburyo bakita ku buzima bwabo, abantu bashobora kubisobanurirwa n'abantu baturutse ahantu hatandukanye ndetse bagahabwa amahugurwa mu buryo butuma abantu bose bumva bisanzuye.

Abantu bakora amahugurwa atandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, gukora amahugurwa bituma abaturage basobanurirana uko bafata neza ubuzima bwabo ndetse nabo bakabasha gusobanurira abandi uburyo bakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Hari uburyo bwinshi abantu bashobora kubonamo imiti, bashobora kujya mu mirima iboneka mu misozi hanyuma bagakuramo ibyatsi, ibyo byatsi bakabisekura bikavamo imiti, ariko na none bashobora gufata ibyo byatsi bakabikoramo ibinini bivura abarwayi.

Gufata inkingo ni bumwe mu buryo bwo kwirinda indwara. Hari indwara zishobora kwirindwa hakoreshejwe gufata inkingo, urugero nk'icyorezo cyangwa se izindi ndwara zikwirakwira mu buryo bworoshye. Gufata inkingo bituma izo ndwara zidakomeza gukwirakwira.

Ibyorezo bigira ingaruka zitandukanye ku buzima bwa muntu ariko hakwiye gushyirwaho ingamba zo kurwanya ibyorezo kugira ngo bidakomeza kwangiza ubuzima bw'abaturage, mu gihe hari icyorezo abaturage bagomba gufata ingamba kugira kidakomeza kwandura.

Ubuzima bw'umuntu buba bugomba guhabwa agaciro, niyo mpamvu hari ibyapa byinshi bigaragaza uko umuntu yaha ubuzima bwe agaciro ndetse akabufata neza, bumwe muri ubwo buryo umuntu ashobora guhamo agaciro ubuzima bwe, ni ukugaburira umubiri we mu buryo bwuzuye.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende ni indwara ni mbi cyane kuko ituma abantu benshi bapfa, kandi kuyandura bikaba byoroshye, ubwo rero umuntu wese agomba kuyirinda, kugira ngo adapfa imburagihe.

Indwara zituma abantu benshi babura ubuzima bwabo kandi ni mu gihe kuko ziteza urupfu, ubwo rero abantu bakwiriye kwirinda izo ndwara cyane cyane indwara zandura, niyo mpamvu hari gahunda zishyirwaho mu kurwanya indwara zandura urugero nka virusi itera SIDA.

Umwana ashobora gukura nabi mu gihe atariye indyo yuzuye, niyo mpamvu hashyirwaho gahunda zitandukanye zo kwigisha abantu ibijyanye n'uko bagaburira abana babo indyo zuzuye kugira ngo igwingira rigabanyuke mu bantu.

Mu Rwanda hari gahunda nyinshi zashyizweho kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, izo gahunda za Leta zituma abaturage bagira isuku, bakabona amazi ahantu batuye, bityo ubuzima bwabo bugakomeza kuba bwiza kurushaho.

Igihe hari icyorezo runaka haza n'inkingo zituma icyo cyorezo kidakomeza gukwirakwira. Urugero, mu gihe cy'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, haje n'inkingo abantu baterwa zigatuma badakomeza kwandura.

Kwisuzumisha indwara z'ibyorezo bituma abaturage batanegekazwa n'ibyorezo kuko baba bazi uko bahagaze. Mu gihe haje icyorezo, abaturage bagomba gukora uko bashoboye kose, bagafata urukingo rw'icyo cyorezo.

Inshuro nyinshi abantu bakunda kubaho bishimye ariko kandi kugira ngo umuntu abeho yishimye, agomba kwirinda ikintu cyamwangiriza ubuzima. Niyo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gikora uko gishoboye kose ngo gisobanurire abantu ko bagira ubuzima bwiza.

Kurwanya ihohoterwa ni byiza cyane, mu gihe abanyeshuri bari ku ishuri baba bagomba kwirinda kwishora mu bikorwa bijyanye n'ubusambanyi, niyo mpamvu gahunda ya leta yo kurwanya ubusambanyi ituma abarimu bigisha abana uko bakwitwara ku bijyanye n'igikorwa cyo kurwanya ubusambanyi.

Hari ingamba zigenda zishirwaho kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, izo ngamba ni iz'uko buri gihe runaka bemeranyijeho abantu bahura bagahabwa amahugurwa ajyanye n'uburyo bakomeza kubungabunga ubuzima bwabo.

Mu Rwanda hari ikigo gishinzwe kwita ku buzima kigaragazwa n'inyuguti ya RBC, iki kigo cyitwa RBC mu ndimi z'amahanga kandi iki kigo gifasha abaturage kugira ubuzima bwiza.

Mu gihe abaturage bafite ibibazo by'ubukene, Igihugu gishobora kubafasha kubona inkingo mu buryo bworoshye kugira ngo batandura ibyorezo by'indwara, urugero nk'ubushita bw'inkende bukunze kugaragara mu bihugu byinshi.

Kwa muganga ni ahantu hahora isuku cyane, buri gihe umuntu ahatembereye ahasanga isuku kubera ko haba hari abakozi bashinzwe kutaho nanone kandi iyo winjiye mu bitaro ubonamo ibitanda abarwayi baryamaho.

Inyubako zigezweho, zubabakwa ahantu heza kandi hafite isuku harambitse kandi kuhagera byoroha. Aha ngaha haba hashobora gutaha imodoka kandi umuntu akaharuhukira akumva amerewe neza cyane.

Hari ibitaro bya Butaro byubatse mu karere ka Burera bifasha abantu kubona ubuvuzi bw'ibanze, ibyo bitaro ni Mpuzamahanga kubera ko n'abantu batari Abanyarwanda bashobora kubyivurizamo bakabona ubuvuzi bakeneye.

Inyubako nziza kandi ifite isuku, kuyubaka bishobora kugorana mu gihe umuntu adafite ubushobozi ariko kandi mu gihe umuntu afite amafaranga agomba kubaka inyubako ifite isuku kandi yubatse neza ifite igisenge gikomeye.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, bifite agaciro cyane, ku buryo nta muntu ushobora kubigura ku giti cye, mu mugihe abiguze ku giti cye bishobora kumuhenda cyane, bityo bisaba umuntu w'umukire ufite amafaranga menshi kugira ngo abigure.

Umuntu ugiye kwa muganga ahasanga ibikoresho bitandukanye bifite isuku, bimwe muri ibyo bikoresho harimo intebe zitandukanye abarwayi bicaraho ndetse n'abakozi bo kwa muganga bicaraho bafasha abarwayi mu burwayi bwabo.

Inyubako zitandukanye zishobora gukorerwamo ibintu bitandukanye, harimo kwigisha ibijyanye na serivisi z'ubuzima cyangwa se kwigisha ibijyanye n'ukuntu umuntu yakwita ku buzima bwe. Ubwo rero mu gihe umuntu yubatse inyubako agomba kwita ku ntego yayo bityo akubaka inyubako ihuje n'intego.

Ibitaro bikuru byo mu gihugu bigirira akamaro igihugu kubera yuko abaturage bahahurira, bakivuza indwara zitandukanye zirimo izananiranye ku nzego zose. Ubwo rero abaturage baba bagomba gushyiramo imbaraga bakivuza mu gihe bafite uburwayi.

Abantu barwaye amaso baba bakwiye kwitabwaho mu buryo bwihariye. Kujya kwa muganga ni bumwe mu buryo bushobora kubafasha gukira amasoso kuko muganga aba yarize ukuntu umuntu ashobora kugira amaso ameze neza.

Mu busitani ahantu buri hagaragara ko ha afite isuku, kandi umuntu wese ushaka kubaho neza akagaragara nk'umuntu ufite amafaranga, aba agomba gukora uko ashoboye ahantu ari hakagaragara neza. Umuntu ushaka kubikora ashobora kubaka inzu agakomeza kuyitaho.

Ibikoresho byo kwa muganga bigira uruhare mu kuvura abarwayi, ibyo bikoresho biba byaraguzwe mu Mahanga kandi akenshi bishobora gukoreshwa n'abantu bize mu Mahanga bize gukoresha ibyo bikoresho, gusa ntibibujijwe ko n'abantu bize mu gihugu hagati bashobora kubyiga bakabikoresha.

Ni uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha ugira ngo agire isuku mu cyumba ke. Bumwe muri bwo ni ugukubura icyumba cyawe ukagikorera isuku mu bintu bihagije kandi ugakoropa n'amazi meza.

Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hashyizwemo ibitaro bitandukanye cyangwa se ibigo nderabuzima bifasha abaturage kwivuza, ibi bigo nderabuzima biba biri ahantu henshi kuko iyo umuntu abibonye ahita ahibwira.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga bigira uruhare mu gutuma umurwayi akira kuko iyo bifite isuku umurwayi ntakomeza kurwaragurika, ariko iyo birimo umwanda bishobora kongera uburwayi bw'umurwayi bityo kuva mu bitaro bikagorana.

Mu gihe hari icyorezo abaganga bambara bikwije kugira ngo batanduzwa n'abarwayi, iyo bakoze uko bashoboye kose bakambara neza hanyuma bakambara udupfukamunwa, ntibashobora kwanduzwa n'abarwayi bavura.

Ku bitaro bitandukanye hagenda hashyirwaho abarinzi kugira ngo nihagira ikibazo cy'umutekano muke cyavuka aba barinzi bafashe gukemura icyo kibazo bitagoranye, kuko ubuzima bw'umuturage buhora ku isonga.

Ibitanda bigaragara kwa muganga, biba bifite agaciro cyane kuko bicumbikira abarwayi mu gihe baje kwivuza. Ubwo rero mu gihe umuntu yagiye kwa muganga, agomba kuzirikana ko ashobora kuba yamarayo igihe kirekire bityo agacumbikirwa mu bitanda byabo.

Umurwayi urwaye arembye, ashobora kujya kwa muganga bakamuha igitanda, hanyuma bagakomeza kumukurikirana ariko ari mu bitaro. Kujya kwa muganga bifasha umurwayi kudakomeza kuremba, kuko kwa muganga iyo arwariye yo, abona ubuvuzi mu gihe abikeneye.

Igihe umuntu agiye kwa muganga ahabona abaganga, akenshi baba bambaye imyenda y'umweru cyangwa se amakanzu abaranga, kwa muganga ni ahantu haba abantu bagira ikinyabupfura n'urukundo, baba biteguye gufasha abantu babagana.

Kwa muganga haba ibikoresho bitandukanye. Hari aho babika imiti kugira ngo umurwayi naza abone imiti ahabwa. Hari naho babika ibikoresho bitandukanye, bituma abarwayi babona ibyo bakeneye. Ubwo rero mu gihe umuntu yagiye kwa muganga, agomba kwitoza kugira ngo atabyangiriza.

Hari ibitaro biri ahantu hatandukanye mu gihugu, bifasha abarwayi kwivuza mu gihe bafite uburwayi, ubwo rero mu gihe umuntu arwaye ashobora kwivuza ku gihe kuko bituma umuntu akira vuba ariko kandi umwana aba akwiriye gukingizwa n'umubyeyi we kugira ngo abashe kubaho neza.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Kugira isuku ni byiza cyane kandi ahantu hafite isuku rwose nta muntu utakishimira kuhaba, umuntu ugeze ahantu hafite isuku ahabona hateye neza kandi hatangaje, ni yo mpamvu inyubako nyinshi usanga zirimo ibikoresho bifite isuku kandi byose ukabona bishimishije kubireba.

Ibigo nderabuzima ni ingenzi cyane mu baturage b'igihugu kubera ko biba hafi y'abaturage kandi umuturage wese urwaye ashobora kuhegera bakamufasha, bakamuha ubuvuzi bw'ibanze akabasha gukira uburwayi bwe.

Abakozi bakora kwa muganga nabo bagomba kuba bafite ubuzima bwiza, kandi bafite ubwirinzi kugira ngo batabasha kwandura indwara abarwayi baba barwaye, bashobora kwirinda kwandura izo ndwara bakoresheje uburyo bwo kwambara agapfukamunwa.

Abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye ariko iyo bunze ubumwe ubuzima bwabo burushaho kugenda neza, umugabo, umugore ndetse n'umwana bose bagomba gukora uko bashoboye kose bakunga ubumwe ndetse mu gihe umwe arwaye bakaba bafashanya bakajya kwa muganga.

Abantu batandukanye batumira abayobozi kugira ngo babagire inama y'ibintu bashobora kuba bakora, niyo mpamvu no mu nzego z'ubuzima abantu bashobora gutumira abayobozi babihuguriwe bakabagira inama z'ukuntu bafata neza ubuzima bwabo.

Umuntu wese agomba kwisanzura mu gihugu ariko agafata neza ubuzima bwe. Ubuzima bufasha umuntu gutemberera aho ashaka ndetse no mu gihe ashakiye ariko umuntu ufite uburwayi ntashobora kubona uburyo bwo gutembera.

Ibitaro byinshi habamo ibitanda by'abarwayi biba bifite ibisabwa byose kugira ngo umurwayi aharyame yumve ameze neza, mu gihe umuntu yagiye ku bitaro akaryama muri ibyo bitanda aba agomba kugaragaza ko yubaha abantu bahakora amasuku.

Hari uburyo butandukanye abarwayi bashobora gukoresha kugira ngo bakire indwara zabo ariko ubwo buryo nta handi bushobora kuboneka uretse kujya kwa muganga, muganga agafasha umurwayi kubona imiti ikwiranye n'uburwayi bwe ishobora kumuvura.

Hari ibikorwaremezo biba byarashyizwe hirya no hino mu gihugu kugira ngo bifashe abaturage kugira ubuzima bwiza, abaturage baba bakeneye ahantu ho kugurira ibinini cyangwa se imiti mu gihe barwaye kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Abantu bakunda ibintu bitandukanye gusa mu gihe umurwayi wese arwaye, aba agomba kujya kwa muganga agafata imiti kugira ngo abashe gukira uburwayi bwe. Mu gihe bitagenze gutyo, bishobora kumuviramo urupfu.

Inyubako zo kwa muganga akenshi ziba zifite isuku idasanzwe. Umuntu ugiye kwa muganga ahita yibwira ko ageze kwa muganga, bitewe n'impumuro y'isuku ahasanga, kandi rwose ibi birakwiriye kuko ari ahantu abarwayi bakirira indwara zabo.

Ibintu bikoreshwa mu buvuzi, nabyo biba bikwiriye gukorerwa ubushakashatsi. Abashakashatsi bakora imiti ku bijyanye n'inkingo, ndetse n'imiti ikoreshwa mu gihugu, kugira ngo itangiza abaturage. Niyo mpamvu hari inyubako nziza, abakozi bahuriramo, bakaganira ku bijyanye na gahunda z'ubuzima.

Kwa muganga hagomba kuba hari ibitanda bihagije abarwayi baryamaho mu gihe bafite uburwayi bwihariye cyangwa se uburwayi butuma bamarayo igihe kirekire, mu gihe umurwayi ari kwa muganga agomba kwisanzura, akamera nk'umuntu uri mu rugo kuko muganga ari umubyeyi.

Hari inzu zikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, ariko kugira ngo umuntu yemererwe gucuruza imiti agomba kuba yarabyize, kandi babona atashuka abantu, ngo abahe imiti yabangiriza ubuzima. Agomba kuba yizewe, mu buryo bwo kuvura.

Kwa muganga bitewe n'urwego ibitaro biriho, haba hariho ibikoresho bidasanzwe ku buryo umuntu adashobora kubyigurira mu rugo rwe kuko biba bifite umwihariko wo gukoreshwa kwa muganga gusa, ubwo rero ibyo bikoresho bikwiriye guhabwa agaciro.

Abantu bose bagiye kwa muganga, baba bafite ikintu kibajyanye, ariko kandi kwinjira mu nyubako yo kwa muganga, bisaba kwitwararika kandi ufite isuku ihagije, kugira ngo utanduza abantu bariyo kandi ho hahorana isuku.

Umwana agomba kubyarirwa kwa muganga kugira ngo abone uko yitabwaho n'abantu babizi neza, umwana uvukiye kwa muganga mu gihe afite ikibazo bamwitaho kandi agakura afite itodo bityo ubuzima bwe bukarushaho kugenda neza.

Kwita ku isuku y'aho abantu batuye bibagirira akamaro ariko kandi mu gihe umuntu agize ikibazo ashobora kujya kwa muganga kugira ngo bamwiteho bityo ikibazo afite kigakemuka mu gihe atagiye kwa muganga bishobora kumugendekera nabi.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, biba byaraguzwe mu mahanga cyangwa se leta yarashizemo amafaranga abaturage babizi bakabikora. Ibyo bikoresho biba birimo ibitanda ndetse na matela zishyirwa kuri ibyo bitanda abarwayi baryamaho.

Inyubako zo kwa muganga ziba zirimo intebe zitandukanye zifasha abaganga mu gihe bari kuvura, ubwo rero umuganga n'umurwayi buri wese agomba kumenya intebe yicaraho mu gihe yagiye kwa muganga cya se ku bitaro.

Iyo umuntu agiye kwa muganga, hari aho agira agategereza ko bamwakira. Uwo mwanya abaganga cyangwa se abantu bubatse inyubako y'ibitaro baba barateganyije, ufasha abantu kutarambirwa.

Kwa muganga haba hariyo igitanda umurwayi ashyirwaho agiye gupimwa, icyo gitanda gishobora no gushyirwaho umurwayi ugiye kubagwa kugira ngo abashe kuryama kuri icyo gitanda hanyuma bamubage bakurikije uko ba byize, ako kazi gakorwa n'abaganga.

Umuntu wese akwiriye kubaha umuntu mukuru. Yaba umuganga cyangwa se undi muntu ukora murwego runaka, agomba kwakira neza umuntu mukuru uje umugana. Iyo umuntu mukuru afashwe neza yumva yishimye.

Mu gice cyo kwa muganga cyangwa se ku bitaro, haba harimo inyubako abantu bajyamo bakisuzumisha indwara barwaye. Mu gihe umuntu ageze aha hantu, agomba kuvuga indwara yose nta kintu akinze muganga.

Inzu z'ababyeyi zifite akamaro cyane kubera ko ababyeyi bahajya, bakaganirizwa uko bafasha abana babo mu mikurire. Inzu zabo zishobora kugira uruhare mu gutuma imikurire y'abana babo igira agaciro cyane.

Inyubako ziba zikwiriye kwitabwaho cyane kugira ngo zidateza impanuka, inyubako cyane cyane izigeretse, ziba zigomba kubakanwa ubuhanga kuko ziramutse zitubatswe neza, zishobora guteza impanuka bityo ubuzima bw'abantu bukaba bwahangirikira.

Umuntu iyo afite ikibazo cy'uburwayi akajya kwa muganga, bamwitaho batitaye ku ho aturuka. Gusa hari ibihugu bimwe na bimwe, bidashyira mu gaciro ahubwo bikavura umuntu bigendeye ku moko aturukamo cyangwa se ibara ry'uruhu.

Bisaba kwitonda kugira ngo umuntu agende mu mujyi, ariko mu gihe umuntu agiye mu bitaro aba agomba kwitonda kurushaho kuko haba hari imodoka nyinshi abarwayi bajemo kandi haba hari inyubako zidakwiriye kwangizwa.

Hari ibitaro bivura abantu, ibitaro byoroheje ndetse n'ibitaro bikomeye. Bavuga ko ibitaro byoroheje bitewe n'uko biba bidafite uburyo bwihariye bwo kuba byacumbikira abarwayi, aha hakaba hajya abarwayi bafite ibibazo byoroheje, mu gihe bikomeye bajya ku bitaro bikuru.

Inzu nyinshi cyangwa se inyubako zikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi ziba ziyubashye kandi ziba zifite isuku. Ni ngombwa kuko ahantu abarwayi bajya bagahurira ari benshi, bagomba kuhakorera ibikorwa bitandukanye.

Inyubako nyinshi ziba zifite ubusitani imbere yazo, ibi ni ingirakamaro kuko bifasha abantu kumva baguwe neza kubera akuka keza, ibyo biti cyangwa se ubwo busitani bukurura, bigatuma nyir'inzu yishima.

Ibitaro byubatse ahantu mu gihugu, bigomba kuba bifite isuku kandi biri ahantu abaturage bagera biboroheye, ibitaro ntibigomba kubakwa mu misozi kuko abaturage kuhagera bishobora kubagora.

Ibitaro bishyirwa ahantu hatandukanye mu gihugu, bituma abaturage babona ubuvuzi bw'ibanze. Mu igihe umuturage afite ikibazo cy'uburwayi agomba kwivuza, kandi akivuza hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza Leta y'u Rwanda yashyizemo.

Abana bakiri bato nabo bashobora kujyanwa kwa muganga mu gihe bafite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se abantu bashaka kumenya ukuntu bahagaze. Abaganga babitaho babyitondeye kuko biba biri mu bintu bize.

Ababyeyi bageze mu zabukuru, baba bakwiriye gusobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwabo, kugira ngo bibarinde ibibazo biterwa n'izabukuru, bityo bakomeze kubaho neza. Mu gihe bidakozwe bashobora gusaza imburagihe ndetse bakanapfa.

Umurwayi iyo yagiye kwa muganga agahabwa igitanda, muganga amusura kenshi kugira ngo amufashe mu burwayi bwe bityo abashe koroherwa cyangwa se gukira mu buryo bwihuse.

Abantu ndetse n'inyamaswa ni ibiremwa biba bikeneye kubona ahantu ho kuruhukira ndetse no kuba. Abantu baba mu mazu yubatswe n'abantu ubwabo, kandi izi nyubako zituma batanyagirwa mu gihe imvura iguye.

Inzu zubakwa mu buryo butandukanye, ariko zose zigomba kubakwa ahantu heza hatari mu manegeka kugira ngo zidatembanwa n'umwuzure. Inzu iyo yubatswe ahantu hameze neza irakomera kandi ikaramba.

Amaso y'umuntu, aba akwiriye kwitabwaho uko bishoboka kose kugira ngo akomeze kugubwa neza ndetse no kureba bikwiye, niyo mpamvu hari ibitaro byihariye bivura amaso mu buryo bwihariye.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bifasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri ariko kandi mu gihe umuntu yagiye kwa muganga akabona ibikoresho bitandukanye bishobora kumufasha mu gihe arimo kwivuza, ibyo biboneka mu bitaro byose by'igihugu.

Amaso akwiriye kwitabwaho cyane niyo mpamvu hari ibitaro byinshi bigenda bishyira ahantu abantu batandukanye kugira ngo bibavure hakoreshejwe abavuzi b'inararibonye mu bijyanye n'amaso.

Inyubako nyinshi usanga zifite icyumba kinini abantu bashobora kuruhukiramo. Ibi birashoboka no kwa muganga cyane, kuko hari ahantu haba hameze neza hari ibitanda ndetse n'intebe, umuntu ajya akicara akumva aratuje.

Abaganga bakwiriye kwifata neza bakagaragaza imico myiza, ariko kandi n'abakozi bakora kwa muganga na bo bakwiriye kugira imyambaro ibaranga kugira ngo bakomeze kugaragaza ko bunze ubumwe, hanyuma bafashe abarwayi.

Umuntu iyo yarwaye bakamujyana kwa muganga, bashobora kumukorera ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo akire. Bimwe muri byo ni ukumutera urushinge cyangwa se kumuha, imiti kugira ngo akomeze kugubwa neza. Iyo yageze kwa muganga aba yizeye ko ari buze gukira, nta kabuza.

Kwa muganga ni ahantu umuntu agera akaba ashobora kuharuhukira, haba hariyo ibitanda bitandukanye bishobora gufasha abarwayi mu gihe bagize ikibazo cyo kuba baharuhukira bakaruhuka bihagije, umurwayi wese agomba gucumbikirwa kwa muganga mu gihe ari ngombwa.

Ibitaro biba bifite ubushobozi butandukanye bwo kwakira abarwayi ariko mu bitaro byose bikuru hagomba kuba harimo ibitanda byo kwakiriraho abarwayi kuko hari abarwayi bava kure bashobora kuza barembye, bikaba ngombwa ko barara mu bitaro.

Inzu iyo ifite isuku umuntu wese arayishimira kandi iyo umuntu agiye kuyigurisha ashobora kubona umuntu uyigura mu buryo bworoshye, ubwo rero kugira ngo umuntu yite ku nzu ye aba agomba no kubanza kumenya ko ifite isuku.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, biba bikoranye ubuhanga cyane kandi kubikoresha bisaba ko umuganga abanza kubitozwa kuko bimenyerewe ko abantu batojwe ari bo bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubwo rero no kwa muganga, ni uko bimeze.

Inzu zigira uruhare mu kubungabunga ubuzima bwa muntu kubera ko inzu ziramutse zidahari umuntu adashobora kubaho neza, kuba hanze bishobora gutuma arwara indwara zishobora guterwa n'imbeho ariko iyo ari mu nzu isakaye, bituma ubushyuhe abubonera ku gihe.

Iyo hari icyorezo runaka, abantu bakoresha uburyo bwinshi butandukanye, kugira ngo babashe kwirinda icyo cyorezo, ndetse no kuba bakwanduzanya icyo cyorezo. Bumwe muri bwo bakoresha, ni ukwambara agapfukamunwa.

Inyubako zo kwa muganga ziba zitangaje cyane bitewe n'isuku ihagaragara, mu gihe umuntu yagiye kwa muganga, aba agomba kwitonda kugira ngo atahanduza kuko bitwara imbaraga nyinshi kuhasukura kandi umuntu agomba kugaragaza ko yubaha abantu bahakora.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gikora uko gishoboye abaturage bakamera neza, hari inyubako zitandukanye gishiraho zisobanurira abaturage ibijyanye n'ubuzima, kandi gishyiraho amahugurwa atuma abaturage bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Kwa muganga haba ibikoresho bitandukanye kandi byose bifite isuku, isuku igaragara muri ibyo bikoresho ituma abantu bumva bafite akanyamuneza mu gihe bagiye kwa muganga, ubwo rero buri bitaro byose bigomba kugira isuku.

Gukorera isuku ibikoresho byo kwa muganga, ni byiza kuko bifasha abantu kutarwaragurika. Ibikoresho byo kwa muganga bikwiriye kwitabwaho kuko birinda indwara nyinshi zandura binyuze mu mwanda kandi bigatuma abarwayi badakomeza kwiyongera.

Kwa muganga haba harimo icyumba abarwayi bajyamo bakivurizamo biboroheye. Haba harimo icyumba abarwayi bakunze kujyamo bagiye kubagwa, kugira ngo urusaku rwabo rudatera abandi ubwoba.

Umuntu ugiye kwa muganga agomba kwitega ko apimwa kugira ngo babone uburwayi bwe, ubwo rero mu gihe umuntu agiye kwa muganga agomba kwitegura ntatinye urushinge kugira ngo muganga amupime.

Inshuro nyinshi kugira isuku biragorana ariko inyubako nyinshi zikorerwamo ubuvuzi, bigomba kuba ngombwa ko zigira isuku kuko haramutse hatari isuku bishobora kwangiza ubuzima bw'abaturage benshi.

Inyubako nyinshi za Leta zubatswe kugira ngo abaturage bajye bahivuriza, izo nyubako nizo zitwa ibitaro, kujya mu bitaro bisaba kwitonda kuko haba harimo ibikoresho bikoreshwa n'abaganga, bityo umuntu utabizi akaba yabyangiza.

Imiti abantu bakoresha ituma ubuzima bwabo bugenda neza, iyo miti ibikwa ahantu hatandukanye kwa muganga ku buryo kuyigeraho bishobora kugorana mu gihe umuntu adasobanuriwe neza aho iyo miti iboneka, ubwo rero kuyikoresha bisaba ubuhanga.

Ahantu hameze neza hafite isuku haba hakenewe na buri muntu wese kandi nta muntu utakishimira kuhatemberera, ahantu hadafite isuku buri wese yumva adashaka kuhajya mu gihe ahantu hafite isuku umuntu wese yumva yahishimira, ubwo rero icy'ingenzi ni ukugirara isuku.

Arwaye indwara imubabaza bityo agakomeza kuribwa. Ariko kandi hari imiti ifasha abantu kugabanya uburibwe. Ubwo rero mu gihe umuntu arwaye indwara imubabaza, ashobora gufata iyo miti, uburibwe bukagabanuka.

Mu gihe umuntu akora imyitozo ngororamubiri akagira ikibazo cy'imvune, hari abantu babishinzwe bashobora kumwitaho, akongera akamera neza kandi ibyo ntibyagakwiye kumubuza gukora imyitozo ngororamubiri kuko yitabwaho neza.

Mu gihe umuntu agiye kwa muganga agomba kwitondera ibikoresho bihaboneka ariko kandi hari igihe umuntu arwara akaremba bikaba ngombwa ko bamujyana mu bitaro byihariye, icyo gihe haba hasabwa amafaranga yo kwishyura kugira ngo uwo muntu avurwe neza.

Umuntu iyo afite ikibazo cy'uburwayi bw'imvune ashobora kwitabwaho n'abaganga. Gusa hari igihe biba bidakomeye ku buryo mugenzi we ashobora kumwitaho akaba yakongera kumera neza, mu mwanya muto akongera akamera neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bituma umuntu agira imbaraga ndetse n'umubiri ukomeye, iyo umuntu afite imbaraga, ashobora gukora imyitozo ikomeye ugereranyije n'umuntu udafite imbaraga nyinshi cyane, uko umuntu agenda arushaho kumenyera gukora imyitozo ngororamubiri ni uko ayikunda.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifite akamaro cyane kandi bituma umuntu yumva afite ubuzima bwiza. Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri aba yumva ameze neza kandi aba yumva atandukanye n'umuntu utayikora cyane.

Imyitozo ngororamubiri igira uruhare cyane mu gutuma abantu bagira ubuzima bwiza, ariko mu gihe bagiye kwa muganga cyangwa se begereye abajyanama b'ubuzima babasobanurira ibindi bintu bashobora gukora kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuntu wanyweye amazi meza agaragara nk'umuntu ufite imbaraga kandi kunywa amazi bituma ubuzima bw'umuntu burushaho gukomera, umuntu ashobora kunywa amazi mu buryo butandukanye ariko icy'ingenzi ni uko aba afite ikintu anywesha ayo mazi.

Umuntu ashobora kugira ikibazo cy'imvune akaba yakiyitaho mu buryo butandukanye, ariko mu gihe umuntu afite ikibazo gikomeye ashobora kujya kwa muganga bakamwitaho dore ko abaganga ari bo bahanga mu bijyanye n'ubuzima.

Umuntu wanyweye amazi yumva ameze neza kandi afite ubuzima bwiza, umuntu agomba kunywa amazi afite isuku kandi ihagije, kuko iyo umuntu anyweye amazi adafite isuku bishobora kumutera indwara ziterwa n'umwanda, akaba yajya kwa muganga.

Abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye. Ariko hagize umuntu uvuga ko adakunda kunywa amazi cyangwa se atanywa amazi, yaba abeshye, kubera ko nta muntu utanywa amazi ushobora kubaho.

Gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha umuntu kumva aguwe neza. Ariko nanone umuntu agomba gukora imyitozo ngororamubiri ihuje n'ubushobozi bwe kuko hari imyitozo ngororamubiri umuntu ashobora gukora, ikamwangiriza akaba yavunika hanyuma ntiyungukirwe no gukora iyo myitozo.

Mu gihe umuntu arwaye wenda afite nk'ikibazo cy'imvune, agomba kujya kwa muganga bakamukorera ubutabazi bw'ibanze, iyo mvune ikabasha gukira. Mu gihe umuntu arwaye wenda avunitse, si byiza ko umuntu amwitaho atabifitiye uburenganzira.

Hari imiti igaragara kwa muganga ifasha abantu mu buryo butandukanye, ikimenyetso cy'umusaraba ni ikimenyetso kigaragara ahantu henshi ku bitaro, kigaragaza ko aho hantu hari abarwayi mu gihe umuntu abonye icyo kimenyetso agomba kumenya ko ari ikimenyetso kigaragaza ibitaro.

Mu gihe umuntu agiye kwa muganga, agomba kuzirikana ko agomba kugirira isuku ahantu afite igisebe, mu gihe agiye kwivuza igisebe, iyo ageze kwa muganga muganga aracyoza neza, hanyuma akamupfuka, nyuma akamwohereza mu rugo akajya kurwarira mu rugo.

Umuntu wari urimo gukora imyitozo ngororamubiri hanyuma akagira ikibazo cy'imvune cyangwa cy'ubundi burwayi, aba agomba gukorerwa ubuvuzi bw'ibanze n'abantu babishinzwe kugira ngo abone gusubira mu kibuga cyangwa se mu myitozo ngororamubiri.

Kunywa amazi bituma umuntu yumva ameze neza, agatekereza neza kandi bishobora gutuma umuntu yumva afite ubuzima bwiza. Ubwo rero mu gihe umuntu yumva atameze neza, ashobora kunywa amazi akongera kumera neza.

Ibikoresho byifashishwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, bashobora gutandukana bitewe n'ahantu byakoreshejwe, hari ibyo ashobora gukoresha ari kwa muganga, hari n'ibyo ashobora gukoresha ari ukugira ngo agire ubuzima bwiza, harimo ibinini ndetse n'imyambaro ashobora kwambara ajya mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu akwiriye gukora imyitozo ngororamubiri, ariko byaba byiza ko mbere y'uko umuntu akora imyitozo ngororamubiri, anywa amazi ahagije kandi akarya imbuto kugira ngo ataza kunanirwa bikomeye.

Umuntu aba agomba gukora uko ashoboye kose akita ku buzima bwe, akareba ko ubuzima bwe buhagaze neza kandi mu gihe afite ikibazo akajya kwa muganga kugira ngo muganga amenye uburyo yamufasha, bityo akomeze kubaho neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bituma umuntu yumva ameze neza, kandi hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kuyikoramo, umuntu ashobora kujya ku mutoza akamutoza imyitozo ngororamubiri, n'ubwo ashobora kumwishura amafaranga ariko ahakura ubuzima bwiza.

Imiti gakondo igira uruhare mu buzima bwa buri muntu. Ariko kandi gukora imyitozo ngororamubiri na byo bishobora gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Imwe mu miti gakondo ishobora kugira uruhare mu buzima bwa muntu ariko yanabwica. Ubwo rero ni ngombwa kwisuzumisha kwa muganga mu gihe umuntu afite ikibazo.

Umurwayi urwaye akwiriye kwitabwaho cyane, ariko ikintu cyihutirwa agomba gukorerwa ni kujyanwa kwa muganga, muganga akamusuzuma hifashishijwe ibikoresho bitandukanye, mu gihe umuntu afite ikibazo cy'uburwayi kumwisuzumira byaba ari bibi mu gihe umuntu adafite ibikoresho byihariye mu gusuzuma abarwayi.

Kunywa amazi bituma umuntu amera neza akumva yishimye kandi akumva ameze neza cyane. Kunywa amazi bikorwa mu buryo butandukanye ariko kuyanyuza mu kanwa ni byo bikunze gukoreshwa.

Umuntu ufite ikibazo cy'ingingo z'umubiri zitameze neza, ashobora gukoresha insimburangingo cyangwa se imbago, kugira ngo abashe gutembera mu buryo bumworoheye. Ibi bikoresho biramufasha cyane.

Mu gihe umuntu yagize igisebe agomba kujya kwa muganga, muganga akamwitaho apfuka icyo gikomere kugira ngo uwo muntu akomeze kugira ubuzima bwiza, ibi bituma akira mu buryo bworoshye kandi agakira mu gihe gito ugereranyije n'umuntu utagiye kwa muganga.

Mu gihe umuntu agiye gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kunanura ingingo ze, wenda agiye gukina umupira agomba kwambara ibintu bimufasha bikamurinda kwangirika mu ntoki kugira ngo atajya kwa muganga yavunitse.

Imiti itandukanye ifasha abantu kumva bameze neza, ariko kandi hari ubundi buryo bashobora gukoresha kugira ngo bumve bameze neza, ubwo buryo ni ugukora imyitozo ngororamubiri itandukanye ibafasha kugororoka.

Ibitaro biba imbere mu Gihugu, biba ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'Igihugu, kuko bifasha guteza imbere umuturage. Igihugu gifite abaturage bavurirwa ku gihe, iterambere ryacyo ririyongera, kandi umuturage ni we uryongera kuko aba afite amagara mazima.

Inkweto ni umwambaro ufasha abantu mu ngendo zabo za buri munsi. Umwambaro witwa inkweto wambarwa mu maguru kandi umuntu uwambaye bimurinda gusitara no kuba yakandagira mu kintu kikamwangiza.

Umwana ukiri muto mu gihe agiye kwa muganga, aba agomba kumva atuje kuko muganga nta kibi cye uretse kumuvura, muganga akora uko ashoboye kose agafata ibipimo ahantu aho ariho hose kugira ngo umwana ufite ikibazo cy'uburwayi abashe kumuvura.

Mu gihe umubyeyi cyangwa se umwana ashaka kujya kwa muganga, agomba kubanza kumenya uburwayi bwe, hanyuma yagera kwa muganga akamubwira ikibazo cye. Gusa hari igihe ibyo biba bidahagije, bikaba ngombwa ko muganga yifashisha ibikoresho mu gupima umurwayi.

Umurwayi ufite ikibazo cy'ingingo, agomba kwitabwaho cyane kandi agafashwa neza kugira ngo uburwayi bwe butamutera ipfunwe. Ibi bituma yumva ameze neza mu bandi.

Gukora imyitozo ngororamubiri bikorwa mu buryo butandukanye. Umuntu ashobora kwicara agahaguruka, akarambura amaboko cyangwa se agakora ikindi gikorwa gituma imitsi ye inanuka bityo ubuzima bwe bukarushaho kuba bwiza.

Mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri agomba kwinanura mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo yumve ameze neza, bityo buri rugingo rwe rurusheho gukomera kandi arambuke mu buryo ubwo aribwo bwose.

Umuntu iyo agiye gukora imyitozo ngororamubiri, agomba kwambara ikintu kimufasha kudakomereka mu ntoki kugira ngo adakomeza kubabara mu gihe hari ikintu kimwangirije mu ntoki ze.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga bigira uruhare mu gutuma abantu bamera neza kandi bishobora kubavura indwara zitandukanye, zirimo izananiranye, ndetse n'izindi zishobora kugira uruhare mu kwangiza ubuzima bwabo.

Umuntu ashobora kugira ikibazo cy'ivi mu gihe yari arimo gukora imyitozo, icyo gihe aba agomba kugira umuntu umufasha hanyuma akamunura kugira ngo icyo kibazo cye gikemuke, iyo umuntu abikoze bimugirira akamaro cyane.

Amazi afite akamaro cyane mu buzima bw'umuntu, kuko kimwe cya kabiri cy'ubuzima bw'umuntu kigizwe n'amazi, umuntu unywa amazi neza asaza igihe kigeze kandi ntashobora kumererwa nabi.

Hari imodoka zishinzwe gutwara abarwayi kwa muganga, izo modoka ziba zihariye ku birebana n'umuvuduko ndetse n'amategeko zikurikiza kuko ziba zitwaye abaganga ndetse n'abarwayi zibajyanye kwa muganga mu bihe byihutirwa.

Abantu bakwiriye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibafashe kugira ubushobozi bwo gutekereza neza, niyo mpamvu hirya no hino mu bitaro bitandukanye, hashyirwaho uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo bijyanye no gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bimwe na bimwe bikoreshwa kwa muganga bishobora kugorana kubimenya kubera y'uko abahanga aba ari bo bazi akamaro k'ibyo bikoresho ariko umuntu wese abagomba kubaza mu gihe agiye gukoresha icyo gikoresho kugira ngo atacyangiza.

Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane mu buzima bwa buri muntu, ni umuti mwiza ku muntu ufite ikibazo, kuko ituma umuntu yumva aruhutse kandi akumva arushijeho gutekereza neza ku buryo bwiza by'umwihariko.

Umuntu ufite ikibazo cy'imvune ku kaboko, agomba kwiyitaho bihagije kugirango uburwayi bwe bubashe kumera neza, iyo umuntu atiyitayeho bishobora gutuma ikibazo cy'imvune yari afite ku kaboko gikomera, bityo hakaba ngombwa ko ashobora kuzamo izindi ndwara.

Umuntu ashobora kwifashisha ibikoresho bitandukanye anywa amazi. urugero; ashobora kwifashisha icupa cyangwa se ikindi gikoresho kimufasha kunywa amazi, ariko agomba kuzirikana isuku y'ibyo bikoresho kugira ngo ataza kunywa amazi yanduye.

Imiti itandukanye ishobora gukoreshwa kugira ngo abantu bakire indwara zabo. Ariko kandi ni ngombwa ko ibikwa ahantu heza, gusa ibimera gakondo bishobora no kuvamo amasabune ndetse n'amavuta byujuje ubuziranenge abantu bisiga, ndetse bikanabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri bituma umuntu agira amagara mazima kandi akumva atuje mu gihe agenda, ubwo rero umuntu wese agirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kuko imufasha kubaho neza.

Kunywa amazi bifite akamaro cyane mu buzima bwa muntu, kunywa amazi bituma umuntu yumva amerewe neza kandi aguwe neza bityo agakomeza akazi yakoraga nta kudohoka, umuntu utanywa amazi ashobora kugira ibibazo byinshi.

Abantu iyo bagiye kwa muganga bashobora kuhabonera ubuvuzi bakeneye. Ariko kandi abakozi bakora kwa muganga nabo, baba bakwiriye guhabwa imyitozo kugira ngo igikorwa cyabo cyo kuvura abarwayi, bagikore neza.

Ikoranabuhanga rirafasha cyane cyane mu buvuzi. Ikoranabuhanga mu buvuzi rikoreshwa mu gupima abarwayi kandi rishobora no gukoreshwa mu kumenya imiti bagomba guha umurwayi, ubwo rero ni iby'ingenzi gukoresha ikoranabuhanga.

Abantu bafite ibikapu binini bashobora gutwaramo ibintu byinshi, bashobora kwifashisha mu buzima bwabo. Bimwe muri ibyo bikoresho bashobora kubijyana gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se bakaba bashobora kubyifashisha bavura amatungo ndetse n'abantu.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri aho yaba ariho hose, ashobora kwirukanka, ashobora kunanura akaguru ke bityo imyitozo ikamugendekera neza kandi akumva amerewe neza.

Kwirukanka bishobora gufasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri kandi akananura ingingo zose afite bityo ubuzima bwe bukarushaho kuba bumeze neza. Mu gihe umuntu adakora imyitozo nk'iyo, ashobora kurwaragurika.

Hari amagare afasha abantu bafite ubumuga mu ngendo zabo za buri munsi. Aya magare aba akoze ku buryo bwihariye, ku buryo afasha umuntu urwaye, kugenda bimworoheye kandi ntakoreshe imbaraga nyinshi, ugereranyije n'izo yakoresha aramutse adafite ako kagare.

Imyitozo ngororamubiri abantu bakora ituma bagira ubuzima bwiza ndetse n'imbaraga, bityo bakaba bashobora gukora akandi kazi bumva bameze neza, iyo umuntu akoze imyitozo ngororamubiri agenda arushaho gukomera ndetse no kugira imbaraga.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha abantu kumva bamerewe neza. Hari ibyapa bishirwa ahantu hatandukanye kugira ngo bifashe abantu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse bibakangurire uko iyo myitozo bashobora kuyikora.

Umbuto zirimo imboga n'inyanya ndetse na avoka, zigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza ndetse n'imikurire ye igakura vuba vuba, umuntu uriye imbuto n'imboga agira ubuzima bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bigira agaciro n'uruhare mu buzima bw'umuntu. Abantu bashobora gushaka abantu babatoza gukora imyitozo ngororamubiri mu gihe bashaka kugira ubushobozi bwo kumva bameze neza cyangwa se mu gihe bashaka gukora imyitozo irenze ubushobozi bwabo.

Abantu batandukanye bagira uruhare mu bintu byinshi. Hari ubwo abantu bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza ariko kandi ubuzima bwo mu mutwe aho wajya hose, uzasanga ari cyo kintu cy'ibanze kigomba kwitabwaho.

Imyitozo ngororamubiri ifasha abakiri bato ndetse n'abantu bakuze gukomeza kugira ubuzima bwiza, hari uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ananure umubiri we ariko icy'ingenzi ni uko umubiri ukora neza kubera iyo myitozo ngororamubiri.

Kunywa amazi bituma umuntu uyanyweye yumva ameze neza kandi afite imbaraga zo gukora ikintu icyo ari cyo cyose yumva ashaka, kunywa amazi bituma umuntu atananirwa kandi akumva yumva ameze neza cyane.

Ibyo kurya byiganjemo imbuto, amagi ndetse n'inyama, bifasha umuntu kumva afite ubuzima bwiza kandi biraryoha cyane. Umuntu wese aba agomba kurya ibyo kurya byiganjemo intungamubiri, kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Kujya kwa muganga bisaba kwitanga ariko kandi iyo umuntu agiye kwa muganga agasobanurirwa uburwayi arwaye, arushaho kugira icyizere cy'ubuzima, umurwayi ashobora kunyuzwa mu cyuma mu gihe agiye kwa muganga, bakamupima bakamubwira uburwayi bwe.

Ibikoresho biba kwa muganga biba bigoye kubisobanukirwa mu gihe udakora akazi ko kwa muganga. Hari ibikoresho usanga bifite amapine, ukaba ushobora kwibaza akamaro kabyo. Ariko kugira ngo usobanukirwe neza ugomba kubaza abaganga.

Umuntu wese aba agomba kwiyitaho agakora icyo ashoboye cyose kugira ngo umubiri we ukomeze kugubwa neza. Kwita ku buzima bw'umuntu bifasha umuntu kumva amerewe neza kandi akunzwe, ubwo rero ni byiza gukoresha ubuzima bwacu neza tubwitaho.

Umuntu urwaye agomba kujya kwa muganga agasuzumwa hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye ba muganga bifashisha basuzuma abarwayi, kwisuzumisha ni ingenzi cyane kuko bituma umuntu amenya ukuntu ahagaze, bityo yaba afite uburwayi akivuza.

Imyitozo ngororamubiri igira akamaro cyane iyo umuntu ayikoze neza, kuko ituma agira ubuzima bwiza, ariko kandi mu gihe umuntu yavunitse aba agomba kujya kwa muganga bakamwitaho bakurikije uburwayi bwe n'imyitozo ngororamubiri yakoze.

Umuntu wese yaba umuntu ukuze, umwana, umubyeyi aba akwiriye kunywa amazi kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Mu gihe umuntu atanyweye amazi ashobora kurwara umwuma cyangwa se agapfa bitewe n'uko amazi ari ubuzima.

Hari abantu bagira ibibazo bitandukanye bishobora gukemurwa no gukora imyitozo ngororamubiri, ariko kandi ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri biratandukanye, niyo mpamvu hari ibikoresho bifasha mu kugabanya inda ndetse n'ibinure mu mubiri.

Imyitozo ngororamubiri irafasha cyane, umuntu ntabwo akwiriye kwitwaza icyo ari cyo kugira ngo adakora imyitozo ngororamubiri, yaba umukobwa, umuhungu, umusore, inkumi, umwana ndetse n'umubyeyi, bose bashobora gukora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri ishobora kwinjiza amafaranga, iyo yakozwe neza. Hari imikino abantu bakina bakoresheje imbaraga zabo yo kurwana bityo umuntu ufite imbaraga akaba yatsinda undi. Gusa iyi mikino twavuga ko atari myiza, kuko abantu bamwe bashobora kuba bayipfiramo.

Kugira isuku birafasha cyane, kugira isuku ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi kandi umuntu ufite isuku agomba kubaho neza bitewe n'uko isuku ari isoko y'ubuzima, gusa hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha mu isuku kandi no kwa muganga ushobora kubisangayo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigira akamaro cyane, muri serivisi zijyanye n'ubuzima. Bituma umuganga amenya icyo umurwayi arwaye, cyangwa se bikaba byatuma akora ubushakashatsi ku ndwara runaka, iba yabonetse mu gace runaka.

Ibyo kurya byiganjemo intungamubiri, bifasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi ni ngombwa ko umuturage wese afata ibyo kurya byiganjemo intungamubiri harimo nk'inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi binyampeke bimufasha mu buzima bwe.

Kunywa amazi bituma umuntu agira umubiri ukeye kandi agahora yumva atuje ni yo haba ari mu gihe cy'izuba, amazi akenshi abantu bayanywa mu gihe cy'izuba ariko ibyiza ni uko umuntu ayanywa buri munsi.

Kunywa amazi bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi bigatuma umuntu atekereza neza. Umuntu wanyweye amazi ahorana itoto kandi ashobora gutembera ahantu aho ari ho hose, yaba ku izuba, kuko amazi ashobora kubimufashamo.

Ni igikoresho gifasha abantu gutembera mu gihe bafite ubumuga, urugero imbago, ni kimwe mu bikoresho bifasha abantu bafite ubumuga bw'ingingo, nk'akaguru gutembera biboroheye kandi kirabafasha cyane.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kugororoka ingingo ze zose. Nta muntu utashobora gukora imyitozo ngororamubiri, ariko kandi iba itandukanye bitewe n'ubushobozi umuntu afite mu gukora iyo myitozo.

Imyitozo ngororamubiri igira akamaro cyane, abakobwa bashobora gukora imyitozo ngororamubiri igatuma imitsi yabo ikomera kandi igatuma bagira ubuzima bwiza mu gihe umuntu akora imyitozo ngororamubiri agomba gukora imyitozo ihuje n'ubushobozi bwe.

Gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha umuntu wese gukura neza kandi ingingo ze zikagororoka. Hari uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoresha ingingo ze, zikagororoka kandi ibyo bimufasha kumva amerewe neza.

Mu gihe umuntu afite imvune, agomba gukora uko ashoboye kose akita ku buzima bwe, hari uburyo bwinshi ashobora gukoresha kugira ngo iyo mvune ye idakomeza kumurya, kandi bituma yoroha, ubwo rero mu gihe umuntu agize imvune aba agomba kubanza kumenya icyo akeneye mbere y'uko ajya kwa muganga.

Imiti itandukanye ikorerwa mu nganda, igira uruhare mu gutuma abantu badasaza vuba kandi ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza. Kwa muganga hari ibikoresho bikorerwayo, bigatuma umuturage abona ubuvuzi bw'ibanze akeneye.

Ibimera gakondo biboneka mu cyaro kubitunganya ntibiba byoroshye, gusa hari abaturage bagenda bakabifata bakabinywa nta gutunganywa kubamo kuko baba bazi akamaro kabyo ndetse n'uburyo babikoresha bidatunganijwe.

Ibyatsi gakondo bigira akamaro cyane kandi bishobora kuvamo imiti abantu bakabona igikiza ubugingo bwabo, ibyatsi gakondo iyo bikoreshejwe nk'imiti kubigura ntibishobora guhenda kubera ko biboneka ahantu hose abantu batuye.

Hari imbuto abantu bahinga kugira ngo bazazikoreshe bavura abantu ariko kandi mu gihe umuntu yahinze imbuto runaka zizavamo imiti, agomba kuzitaho guhera akizihinga kugeza zikuze.

Imiti gakondo igira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza, iri mu mabara atandukanye bitewe n'ubwoko bw'ibyatsi, kandi ishobora guhingwa ahantu hatandukanye, hari n'ibyatsi byimeza bigashobora kuvamo imiti.

Imiti ifite akamaro cyane, kandi ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Umuntu urwaye indwara zitandukanye, ashobora gufata imiti, hanyuma ubuzima bwe bugakomeza kugenda neza. Ariko umuntu udafata imiti, bishobora kumuviramo kugubwa nabi.

Abantu bashobora kubona ibyo kurya mu buryo butandukanye ariko kandi hari abashobora gusoroma imboga ziva ku bimera, bakazirya cyangwa se bakaba bazikoramo imiti gakondo ishobora kubavura uburwayi butandukanye.

Ibyatsi bikoreshwa mu kuvura abantu akaba ari ibyatsi gakondo, bigira uruhare mu mikurire y'abantu, kandi bishobora gutuma umuntu urwaye indwara ikomeye yaburiye imiti kwa muganga abona imiti bityo akumva arakize amerewe neza.

Imiti myinshi yitwa imiti gakondo igira uruhare mu gutuma abaturage batera imbere, kubera yuko igabanya indwara mu gihugu kandi abaturage bakinjira mu kazi kabo nta kibazo cyo kumva bagira ikibazo cy'uburwayi bityo bakishima.

Imiti gakondo ishobora gupfunyikwa mu bintu bitandukanye birimo amacupa ndetse n'ibindi bikoresho bituma iyo miti itangirika. Ariko kandi hagomba kwibandwa ko ibyo bikoresho bitangiza abantu banywa iyo miti.

Ibimera gakondo bituma abaturage babona imiti, urugero hari igihingwa kitwa umuravumba, iki kimera kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zirimo inzoka ndetse n'izindi ndwara zandura binyuze ku mwanda.

Imiti irimo ibyatsi ifasha abantu mu kuvura abandi kandi n'abahanga bashobora kuyikoresha bakoramo imiti imwe yitwa iya kizungu, kubera ko ibimera byiganjemo ibimera gakondo birimo imiti itandukanye.

Imiti ishobora kugira uruhare mu gukiza ubuzima bw'umurwayi, ariko kandi iyo ayiriye neza kandi akita ku gihe cyo kuyiriraho niho imufasha, imiti ishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza ariko aba agomba no kurya neza akarya ibiryo birimo imbuto.

Inanasi ndetse n'imineke, ni zimwe mu mbuto zituma umuntu agira ubuzima bwiza. Umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza, agomba kwihatira kurya imbuto kuko zituma akomeza gutekereza neza kandi ubuzima bwe bukabaho neza.

Imiti ishobora kubikwa ahantu hatandukanye, ariko hagomba kwitabwa ku isuku yaho kugira ngo abantu bayikoresha itazabangiza. Imiti iramutse ibitswe ahantu habi, bishobora kwangiza ubuzima bw'abaturage kandi ibi byagira ingaruka mbi.

Imiti gakondo irakoreshwa cyane cyane mu gihe abaturage badafite amafaranga yo kuba bajya kwa muganga, ariko kandi ishobora no gutunganywa ikaba yavamo imiti abantu babona kwa muganga.

Imiti ishobora kuva mu bimera bitandukanye ariko bisaba kugira ngo umuntu abe afite ubushobozi bwo kumenya kuyivanga kugira ngo imugirire akamaro, mu gihe itavanzwe neza bishobora kumuviramo ibibazo bikomeye cyane.

Ibimera gakondo bishobora kuboneka mu misozi aho abantu bajya kubishaka, mu mijyi nta bimera bibayo bishobora kuvamo imiti ariko kandi bisaba ko umuntu aba azi ubwoko bw'ibimera agiye gukoresha mu gihe agiye kwivuza.

Imiti gakondo ikoreshwa n'abantu bo mu cyaro, ivura indwara zitandukanye kandi abaturage benshi barayikoresha bakumva bameze neza, umuntu wese ushaka kubaho neza ashobora kuyikoresha dore ko iyo miti itanahenda.

Ibyatsi bivamo imiti kubibona bishobora kugorana, bitewe n'uko umuntu ubona ibyo byatsi aba ari inararibonye mu kubikoresha. Ibyo byatsi ntibikunze kuboneka, ariko kandi abantu b'abahanga barabishaka bakabibona.

Ibimera bivamo imiti bishobora kuba bitandukanye kuko hari ibimera bivamo imiti bikagira indabo, kuba indabo zigira uruhare mu kuvura umuntu abantu benshi babyemeranyaho ariko kandi indabo zishobora no kugira urundi ruhare mu mitako ikorerwa mu ngo zitandukanye.

Hari imiti myinshi ivura indwara zitandukanye, urugero hari nk'imiti ivura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse hari n'imiti ikumira indwara zifata abagabo ndetse n'abagore.

Ibyatsi gakondo, bigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'abaturage bugenda neza, kandi bishobora gutuma umuntu urwaye indwara idakira, ikira. Ubwo rero, mu gihe umuntu abonye ibyatsi bishobora kuvamo umuti, aba agomba kumenya aho hantu biri akahitaho.

Umuntu kugirango abeho neza agomba kurya indyo yuzuye mu gihe arwaye ashobora kurya ibyatsi bivamo imiti, iyo miti iva mu byatsi ishobora gukoreshwa cyane cyane n'abantu bo mu cyaro mu gihe barwaye.

Imiti gakondo ikorerwa hirya no hino ituma abantu bumva bameze neza kandi bishimye. Iyo miti ntihenda kandi kuyibona bishobora koroha ariko kuyicuruza bishobora kugorana kubera ko bisaba ko Leta ishyiraho uruhushya ku bantu bayicuruza.

Ibyatsi bishobora kuvamo imiti itandukanye iyo bikoreshejwe neza. Umuntu wese akwiriye guha agaciro ibyatsi kandi akirinda kubyangiza, kuko iyo byangijwe bishobora gutuma abantu babura imiti.

Ibimera bivamo imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye, urugero nk'impiswi ndetse n'inzoka. Ibimera bifasha abantu cyane kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza.

Ibyatsi bigira akamaro cyane kuko birimo imiti ndetse bikabamo n'ibyo kurya abantu barya ndetse n'amatungo, gusa bigira akamaro cyane cyane iyo bikoreshejwe neza nk'imiti gakondo, kuko ivura abantu bafite uburwayi butandukanye.

Imiti iba igomba kubikwa ahantu heza kandi hafite isuku. Imiti gakondo na yo iba igomba kubikwa ahantu heza, urugero nko mu macupa afite isuku kuko na yo igirira akamaro umuturage iy'ifite isoko.

Imiti itandukanye igira uruhare mu kuvura abantu ikabakiza indwara barwaye, umuntu urwaye indwara imubabaza cyane ashobora gukira atagiye kwa muganga, mu gihe yanyweye imiti ikomoka ku bimera biba byatunganyijwe n'abaturage.

Imiti gakondo irakungahaye cyane kandi irakunzwe cyane muri kino gihe, kubera ko abaturage benshi bakoresha imiti gakondo kugira ngo bivure indwara zitandukanye kandi iyo miti ntihenda ugereranyije n'imiti yindi.

Imiti ikorwa igashyirwa mu macupa abantu benshi bakunda kuyigura, ariko bayigura amafaranga make kuko baba bakeka ko ari imiti gakondo, iyi miti ni byo aba ari imiti gakondo kandi iyo miti gakondo abenshi mu baturage nibo bayikorera.

Ikimera cyitwa umuravumba gituma abantu bakira indwara nyinshi kandi nicyo kimera mu Rwanda gikoreshwa cyane n'abantu bo mu cyaro, icyo kimera gituma abantu indwara z'abayeho karande badakomeza kurwaragurika.

Ibyatsi gakondo bigira uruhare mu gutuma abantu babaho neza kandi bishobora kubonwa n'umuntu uwo ari we wese mu gihe akuze, afite ubushobozi bwo kumenya icyatsi, akagitandukanya n'icyatsi kidashobora kuvura.

Kunywa imiti ni byiza cyane, mu gihe umuntu arwaye. Hari ahantu henshi umuntu ashobora kuvana imiti, ariko abaturage nabo bagenda bakora imiti, bakayishyira mu bikoresho bitandukanye, ibyo bituma abantu benshi bagura imiti, ariko itizewe.

Ibimera gakondo bishobora gukorwamo ibintu bitandukanye uretse kuba byavamo imiti, bishobora no kuba byakorwamo amavuta y'ubwoko butandukanye. Aya mavuta aba ari meza cyane, ariko kandi agomba kugenzurwa n'ibigo bishinzwe ubuziranenge.

Ibyatsi bigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza kuko n'imiti ikoreshwa kwa muganga imyinshi muri yo ikorwa mu byatsi gusa irabanza igatunganywa hanyuma abantu bakayizana bakayigura.

Ibyatsi bifite akamaro cyane kuko bituma abantu babona imiti hafi aho batuye kandi bakayigura ku giciro gike, hari n'imiti abantu badashobora kugura kuko ibyatsi bishobora kuboneka aho ari hose, abantu bakabikoresha.

Ibimera gakondo birafasha cyane kuko byunganira imiti iba yarakorewe mu nganda. Hari imiti abaturage bashobora guhamura cyangwa se kubona mu buryo bwihuse, bitabaye ngombwa ko ibanza gucishwa mu nganda ngo itunganywe.

Ibimera bivamo imiti abantu banywa cyangwa se bakayirya kandi ibi bimera bigira akamaro cyane, hari ibimera bivamo imiti yihariye urugero nk'igikakarubamba ku buryo imiti ivuyemo kuyikoresha byoroha kandi umuntu urwaye uyinyweye agakira.

Ibi ibimera bituma abantu babona akayaga keza ndetse n'umwuka mwiza

Ibimera gakondo, bigira akamaro cyane, ndetse n'uruhare mu buvuzi. Umuntu wese uzi gukoresha ibimera gakondo, ashobora kuvura mugenzi we akoresheje ibikoresho bitandukanye. Ariko aba asabwa kuba azi kuvanga, iyo miti.

Ibyatsi byinshi bishobora kuvamo imiti itandukanye, hashobora kuvamo isabune abantu bakayisiga hanyuma bagakira indwara barwaye, ariko na none kandi ibyatsi bishobora kuvamo isabune nziza ihumura umuntu ashobora kuba yagurisha amafaranga menshi.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ariko kandi imiti gakondo ishobora kubibafashamo kubera ko ituma bagira ubuzima bwiza iyo yakoreshejwe neza.

Imiti gakondo ishyirwa mu bikoresho bitandukanye ariko abantu batabyitayeho neza bashobora kwanduzwa n'iyo miti aho kugira ngo ibavure, kuko akenshi ishobora kuba irimo imyanda ishobora gutera indwara.

Ibyatsi bituma abantu bamera neza mu bijyanye no kubona umwuka mwiza bahumeka, ariko bifite ibanga ryo kuba bishobora no kuvura abantu mu gihe bikoreshejwe neza n'umuntu uzi kubikoresha. Ibyo bifitiye akamaro buri muntu wese.

Abantu bahabwa ubuvuzi mu buryo butandukanye, ariko nanone bitewe n'uburwayi, hari ubwo umuntu ashobora kubarwa bitewe nuko arwaye indwara imutera kuba yabarwa, ubwo rero ashobora guhitamo kubarwa cyangwa se kubireka agapfa.

Ibimera biba bikenewe mu buryo butandukanye kugira ngo bikoreshwe n'ibindi binyabuzima, urugero nk'abantu ndetse n'inyamaswa. Inyamaswa zikenera ibimera kubera ko zimwe zirya ibyatsi n'abantu kandi bakenera ibimera.

Indobo ibikwa mu buryo butandukanye ariko uburyo bwiza kandi bwizewe ni ukuyibika mu macupa kuko bituma iyi miti itandura mu buryo bworoshye kandi abantu bashaka kuyibona bakayibona mu buryo buboroheye.

Inzuki ni ingirakamaro mu gihugu kubera ko zitanga ubuki, ubuki bushobora kuvamo umuti uvura mu bintu bitandukanye, hari indwara umuntu ashobora kuba arwaye yannywa ubuki igahita ikira.

Abantu bakwiriye kwita ku buzima bwabo. Ni yo mpamvu hari imiti icururizwa mu masoko atandukanye. Mu gihe umuntu agiye kugura iyo miti agomba kwitonda, kubera ko imwe n'imwe iba itujuje ubuziranenge ku bantu bayicuruza.

Imiti gakondo nayo ishobora gutunganywa hanyuma ikanyuzwa mu nganda zitandukanye igashyirwa mu macupa. Gushyirwa mu macupa bituma iyi miti itandura mu buryo bworoshye, kandi abantu bakayigura ari benshi.

Imiti iva mu bimera iba yarateguwe inyuze mu nganda, abaturage nibo bayishaka hanyuma bakayijyana mu nganda cyangwa se bakaba bayikoreramo ubwabo imiti bashobora kwifashisha aho ngaho mu giturage.

Imiti gakondo igira uruhare mu kuvura abantu, kandi umuntu uyinyweye wese ahorana akanyamuneza, kuko iyo yishimye bigaragarira umuntu wese. Imiti gakondo kuyibona ntibigoye kuko igaragara ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, kandi buri muntu wese yayibona.

Ibimera bishobora kuma cyangwa se bikaba byakangirika ariko kandi ibimera bivamo imiti hari n'ibimera bivamo imiti ari uko bimanjije gushyirwa ku izuba bikuma, ubwo rero mu gihe ikimera cyumye si ngombwa ko umuntu akijugunya.

Imiti gakondo igira akamaro cyane kuko ifasha abaturage mu gihe badafite ubushobozi bwo kugura indi miti iba yaranyuze mu nganda. Abantu bashobora kuyikoresha ikiri ibyatsi cyangwa se ikabanza ikanyuzwa mu nganda, hanyuma bakayigura bakayikoresha.

Imiti gakondo ishobora gutunganywa mu buryo butandukanye hanyuma abantu bakayihabwa ikabavura ubuzima bwabo bugakomeza kugenda neza. Gukoresha imiti gakondo biroroha ugereranyije no gukoresha imiti itari iya gakondo.

Imiti gakondo ituma umuntu wese yumva ameze neza mu gihe yararwaye, kuko ivura indwara zananiranye. Umuntu ashobora kujya kwa muganga bakamwandikira imiti ntigire icyo imumarira, ariko yanywa imiti gakondo ikamufasha.

Imiti gakondo igomba kubikwa ahantu heza, kandi ikitabwaho n'abantu babifitiye ubushobozi, bazi kuyikoresha neza. Iyi miti iyo idakoreshejwe neza, ishobora kwangiza ubuzima bw'abaturage ndetse n'iterambere ryabo.

Ubuki ni bwiza cyane bugira uruhare mu buzima bw'abantu. Umuntu wanyweye ubuki kurwaragurika ntibimubaho kubera yuko ubuki bufite vitamini zituma umuntu adakomeza kurwaragurika kandi ubuki bushobora gukoreshwa mu miti itandukanye.

Abantu benshi bazi akamaro k'ibimera ariko kandi ntabwo bazi ko ibimera bishobora kuvamo imiti, ubwo rero ibimera bikwiye kubungabungwa kugira ngo bivemo imiti itandukanye abantu bakoresha, bityo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Abantu baba bakwiye guhabwa imyitozo ku bijyanye n'uburyo bashobora gukoresha imiti gakondo, imiti gakondo kuyibona ntabwo bigoye kuko abaturage irabegereye cyane, imwe muri yo harimo nk'umuti uzwi cyane witwa igikakarubamba.

Abajyanama b'ubuzima bagira uruhare mu buzima bw'umuturage. Ni bo batuma umuturage amenya uko yakwitwara mu buzima bwe kugira ngo burusheho kugenda neza. Bamenyera umuturage ikintu yakagombye kurya kugira ngo abeho neza.

Imiti gakondo igira uruhare mu gutuma abaturage bumva bisanzuye ku miti yabo, hari uburyo bwinshi bashobora kuyikoresha kugira ngo bagire uruhare mu gutuma iyo miti iba mizima, iyo miti bashobora kuyisekura ikavamo ifu bakoresha mu kwivura.

Gufatira imiti ku gihe byongerera umuntu amahirwe yo gukira, hari imiti ikorwa mu bimera, igashyirwa mu macupa kugira ngo abantu bazayihabwe bayinywe mu gihe barwaye, iyo miti nayo abarwayi baba bagomba kuyifatira ku gihe, kuko iyo umuntu ayifatiye ku gihe nibwo ishobora kumugirira akamaro.

Hari imiti ivura abantu mu ngeri zitandukanye ndetse n'ibibazo baba bafite ibyo aribyo byose, hari imiti ivura abantu kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'ibindi, iyo miti ikoreshwa mu muryango.

Imiti ikorwa mu bintu bitandukanye ariko hari imwe mu miti iva mu bimera gakondo, imiti yakozwe mu bimera gakondo iba ifite imbaraga zo gukiza umuntu mu buryo bworoshye, ubwo rero abantu bakwiriye kubaha imiti iva mu bimera gakondo.

Imiti igira uruhare runini mu buzima bwa buri muntu. Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi ashobora kuyinywa cyangwa se akayirya kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza. Igihe atabikoze, ibi bishobora kumuviramo ibibazo.

Imbuto zifasha abantu batandukanye mu ngeri zose, umuntu urya imbuto agira ubuzima bwiza, kandi kurya imbuto zitandukanye bifasha abantu gukura, yaba abakiri bato ndetse n'abantu bakuze zikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Imiti gakondo iva mu byatsi bitandukanye biboneka ahantu hatandukanye mu gihugu, umuntu ushaka kumenya uko iyo miti ikoreshwa, abagomba kwegera abantu bakuru bakamusobanurira uburyo iyo miti ikoreshwa.

Ibyatsi byose bishobora kuvamo imiti, ariko kandi kumenya umuti uhuje n'indwara urwaye bisaba umuhanga. Bivuze ko umuti wose ugomba gukoreshwa n'umuntu ubifitiye ubuhanga.

Imiti ituruka mu bimera gakondo, iba yizewe kubera ko iva mu bimera abantu bazi kandi bakunda. Gukoresha mu buzima bwabo. Ubwo rero mu gihe umuntu afite ikibazo cy'uburwayi, ashobora kuyigura akayikoresha.

Igikakarubamba kivamo imiti myinshi kandi ikunzwe cyane n'abantu benshi ku isi, igikakarubamba ni umuti gakondo kikaba ari ikimera gishobora gutuma abantu bakira indwara zitandukanye bahanganye nazo.

Kujya kwa muganga bakaguha imiti ukumva umerewe neza birashimisha cyane, ariko kwa muganga sibo honyine bashobora kuvura umuntu kuko har'abantu bakora imiti mu byatsi hanyuma bakagenda nabo bayigurisha abandi.

Ibimera bifite uruhare runini mu buzima bw'abantu ndetse n'inyamaswa. Bishobora kuvamo imiti ivura abantu kandi ikavura n'inyamaswa uburwayi butandukanye. Ubwo rero abantu bakwiriye kubibungabunga bakirinda kubyangiza.

Imiti gakondo irabanza igatunganywa, igatunganywa n'abantu babifitiye uburenganzira cyangwa se bazi ibijyanye n'imiti. Hanyuma iyo miti iyo irangiza gutunganywa, abantu bashobora kuyirya cyangwa se bakayinywa, hanyuma ikabavura uburwayi bubabaza.